Ibikinisho by'abana bigomba kuba bimeze neza kandi bifite isuku, ntibigomba gukanga abana kugira ngo bitabahahamura, cyangwa se bikabakura umutima bigatuma bazinukwa kuzongera kubikoresha.

Ubutaka bw'agasi ntibugomba kwangizwa, ahubwo nabwo buba bugomba gufungirwarwa bukongerwamo n'izindi nyongeramusaruro maze abantu bakaba bahakorera ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi.

Imodoka ni igikoresho cyifashishwa mu bintu bitandukanye, harimo nk'ubuhinzi ndetse n'urugendo mu gihe umuntu ahantu ari kujya atashobora kuhagenda n'amaguru cyangwa se n'igare.

Inyamaswa z'inkazi' nk'intare ziboneka muri pariki y'Akagera, ibi ntibivuze ko zigomba kubangirizwa cyangwa se ngo zigirirwe nabi na ba rushimusi ahubwo zigomba gufatwa neza kuko ziri mu bidukikije.

Ibintu bigenda bishushanywa ku nkuta z'amashuri bikangura ubwonko bw'abana, aha ngaha bituma abana batekereza cyane bakagira amatsiko ndetse bakaba bagira n'ubundi buvumbuzi bakora bituma bizamura ireme ry'uburezi mu Rwanda.

Ibishushanyo byifashishwa mu mashuri y'inshuke ndetse n' abanza, bituma abana barushaho kuvumbura ibintu bishyashya ndetse nabo bagashirika ubute n'ubwoba bakaba bagira bimwe mu byo bikorera kandi bitabavunnye.

Amashuri abanza ndetse n'ay'incuke, aba afite ibishushanyo ku nkuta zayo, ibi ngibi bituma uburezi bw'ibanze bugenda bukura kandi bugatezwa imbere mu bisata byose by'Igihugu.

Ibishushanyo by'inyamaswa biba bifite icyo bigaragaza kandi byigisha, niyo mpamvu tugomba kubungabunga ibidukikije tukabyitaho tukabifata neza kandi tukarinda abantu kubyangiza cyangwa se kubigirira nabi.

Ibishushanyo biteye ubwoba ntabwo biri byiza cyane kuko usanga bihahamura abana, bigatuma bagira indi mitekerereze idasanzwe. Si byiza rero gukoresha ibintu biteye ubwoba cyangwa se amashusho ashobora gutuma abana badatekana.

Kumenya gushushanya ndetse no gukina ni bimwe mu bintu biranga abakiri batoya, aho baba bafite imbaraga kandi baba bagifite n'ubwonko butekereza bukanafata vuba, ni byiza rero gushishikariza abana gukora siporo.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bagira umwanya wo kugenda bagatembera bakiyungura ubumenyi. Aha ngaha rero harimo nko kugenda gusura ahantu hari ibyicungo, abana bakaruhura mu mutwe kuko hari igihe baba bashoje amasomo yabo bagiye mu biruhuko.

Abana iyo bageze mu biruhuko cyangwa se bari kwiga, baba bagomba kugera n'igihe bagakora urugendoshuri, bagatembera, bakajya ku byicungo, bakaruhura mu mutwe mu rwego rwo gukomeza gufasha umubiri gukora neza.

Ibitabo biba bifite igifuniko cy'inyuma kiriho amashusho agiye atandukanye, aho yifashishwa mu gusobanura ibigize iki gitabo, cyane cyane nk'ibishishikariza abana kumenya ibibakikije, aho usanga ariho nk'ibiti cyangwa se ibindi bikorwaremezo.

Abana bagira ibikoresho batwara ku ishuri harimo nk'ibikapu, amakayi n'amakaramu, ibi ngibi nibyo bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi bw'ishuri kandi abana baba bagomba kubitozwa bakiri bato, bakamenya n'uburyo bwo kubibungabungamo neza.

Ingofero zikozwe mu masashi, zikunze kuboneka ku munsi mukuru w'abana, bakunze kwita Noheli. Ibi ngibi rero bituma abantu benshi uno munsi iyo ugeze, abantu bose baba bahibibikanye, bari gushaka amafunguro meza kugira ngo baze kunezeza imiryango yabo.

Inyamaswa zishushanywa ku nkuta harimo udusumbashyamba. Ibi ngibi bituma abana bagira amatsiko yo kuba bajya gusura nk'ahantu turi. Ndavuga mu gice cy'iburasirazuba badusangamo pariki y'Akagera.

Amashuri abanza n'ay'inshuke, hakunze kubonekamo imitako imeze neza kandi isa neza. Ibi ngibi bituma abantu barushaho kugenda batekereza ku bintu bibakikije, kandi byabagirira akamaro. Ni ingenzi rero kubibungabunga.

Isuku ni isoko y'ubuzima hagomba gushyirwaho ingamba zo kwirinda indwara zituruka ku mwanda nko gukaraba buri munsi cyane cyane ku bantu bavuye mu bwiherero rusange.

Inyamaswa ziri mu bintu bidukikije, tuba tugomba kuzifata neza tukazibungabunga tukirinda kuzigirira nabi, ahangaha niho Leta iba igomba gushyimo n'ingamba zo kurwanya ba rushimusi bashobora kuza bakazigirira nabi.

Ibishushanyo bifatiye runini uburezi, aha ngaha bituma abana bakora ubushakashatsi, bakagira amatsiko yo kuvumbura ibintu bishya maze hakagenda haboneka n'indi mishinga itandukanye iturutse mu bana bo ubwabo.

Ibyatsi n'ibimera ni ibidukikije tugomba kubifata neza tukirinda kubitwika kuko twamaze kubona ko bitugirira akamaro nk'aho bimwe ari ibiryo by'amatungo ibindi bikavamo imiti ku bantu ndetse no ku nyamaswa.

Intore zikunze kuba zifite amacumu mu ntoki ndetse n'ingabo, aho ahaba habaye ibirori ziza zigahamiriza, ukabona ibintu biryoshye kandi binogeye ijisho maze n'abatashye ibirori bakanezerwa.

Tumwe mu dushushanyo tuboneka mu bitabo, harimo udukarito ndetse n'utundi tuntu dutandukanye. Ibi ngiyi bituma abana bagira amatsiko, bakagenda bivumburamo izindi mpano ziye zitandukanye zo kuba bakura n'ibindi bitari mu masomo gusa.

Umwana kugira ngo akure neza ni uko ahera hasi atozwa kwandika neza ingombajwi ndetse n'inyuguti ibingibi bituma akura afite umukono mwiza atari na babandi bandika nabi cyangwa se bandika ibitagaragara.

Ubutaka bwubakwaho ibikorwa remezo akenshi ntabwo abantu baba babuhingamo, kuko abantu benshi bavuga ko ubutaka busa nk'ubwijimye ariho heza ibihingwa bishobora kugenda bigakurira, ugereranyije n'ubw'agasi.

Abana bakunda ibikinisho kuko bibamara agahinda ndetse n'uwari uri kurira agahita aceceka kuko bituma bishima ndetse n'imisemburo mu mubiri wabo ikarushaho gukora neza kuko nta kindi kibazo kiba kibabangamiye.

Amashuri agiye atandukanye aba afite ibishushanyo ku nkuta. Ibi ngibi bituma abana bagira amatsiko bagashaka kumenya ubusobanuro bwabyo kandi bikabafasha no mu myigire yabo, aho bigenda bibasigara mu mutwe ku buryo butagoranye.

Umuco w'ubworoherane no kwiyubaha ni bimwe mu ndangagaciro Abanyarwanda bo hambere bari bafite ariko uyu muco ugenda utakara, aho usanga nk'abantu bifata bagashushanya ibintu byose biboneye batashobora no gusobanura ngo bamenye agaciro k'ibyo bakoze.

Ubwami bwahozeho mu binyejana byagiye bishira, ariko ntibivuze ko hari ibihugu bimwe na bimwe byataye uyu muco kuko harimo n'ibidafite nka za repubulika, cyanecyane nko mu Bwongereza aho usanga nk'iki gihugu kikiyobowe n'ubwami.

Leta hari gahunda zimwe na zimwe igenda ikora mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uburezi ndetse n'uburere, harimo rero aho igenda ishishikariza abana kugana amashuri ndetse n'ababyeyi batazi gusoma bakagenda bahugurwa, cyane cyane mu bice byo mu byaro.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'inshuke, bagomba kuba bambaye na bo impuzankano zibaranga koko kandi bagahabwa n'imfashabere kubacyonka kuko harimo n'abaza gutangira bakiri batoya, bigatuma basonza buri mwanya.

Ibintu abana bakunda gukinisha harimo nk'ibishushanyo by'imodoka. Ibi ngibi bituma hakorwa ubushakashatsi ndetse n'ubuvumbuzi kugira ngo bamenye impamvu itera abo bana gukunda ibyo bintu. Ni hahandi usanga bibakurikirana, umuntu yamara no gukura, ugasanga atwara nk'amakamyo manini ibi dukunze kwita za Ruvakwaya.

Ibishushanyo by'iyimodoka biba bifite icyo bisobanura iyo biri mu gitabo cy'umwana w'inshuke cyangwa se uri mu mashuri abanza, aha ngaha bituma umwana akura atekereza nko kuzakora umwuga wo gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke akunze kuba afite ibishushanyo ku nkuta, ibi ngibi bituma abana bagira amatsiko kandi bakaba bakora n'ubushakashatsi ku byo bari kubona cyane cyane ku bidukikije.

Mu bigo by'amashuri abana bakunze kwisanzura bagakina iyo basoje amasomo, tugomba rero kumenya guha abana umwanya ukwiye wo gukora siporo kuko na yo ari ingenzi mu buzima bwabo.

inzugi ni bimwe mu birango bigize inzu, kubona rero zimeze nabi cyangwa zishwaratuyeho ntabwo ari ibintu biba bisa neza, tugomba kumenya gufata neza ibikoresho dutunze ndetse no kubungabunga amazu yacu neza.

Gahunda yatangije Leta ya shisha kibondo. Aho yicuza abana bakiri bato n'ababyeyi ikabahereza indyo yuzuye irimo amata, imboga n'imbuto. Ni mu rwego rwo gukomeza kurwanya imirire mibi mu bana.

Ubuhinzi buba bugomba gukorwa ahantu hose hashoboka ndetse ubutaka buba bugomba kuba bugaragara kandi buri ahantu haterereye cyangwa se haba hari umusozi, abantu bakamenya kuhatera ibiti ndetse bagaca n'amatarasi y'indinganire.

Za Leta nk'amashuri ziba zifite ibishushanyo ku nkuta, aha ngaha niho usanga hariho nk'ibinyugunyugu cyangwa se ibitagangurirwa, aho abana bagenda bakiga ibice byabyo kandi bakamenya no kubifata neza no mu gihe babibonye ntibacanganyukirwe.

Bimwe mu bintu bidukikije harimo ubworozi bw'inkwavu, biri mu bwoko bw'amatungo magufi, ibi ngibi rero leta igomba kubishyiramo imbaraga, igateza imbere ubu bworozi, kandi igakangurira n'abantu kubukora, mu rwego rwo gukomeza guteza imbere inyamaswa no kororoka kwazo.

Ubutaka iyo bufashwe neza butanga umusaruro, aha ngaha buba bugomba kongerwamo ifumbire, kubwitaho neza turinda kwangiza bimwe mu bimera biba bibugize cyane cyane nk'ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Abana iyo basoje amasomo, baragenda bagakina, bakaganira kandi bakungurana n'imitekerezo. Ibi ngibi bituma umusaruro uturuka ku buzima no ku burezi ugenda wiyongera uko bwije n'uko bukeye.

Gukinga amadirishya mu gihe byinjiwe, ni imwe mu ngamba Minisiteri y'ubuzima yagiye ishishikariza abantu gukora kugira ngo harwanye indwara ya marariya ituruka ku mubu w'ingore ukunze kuruma abantu nijoro mu gihe basinziriye.

Ubuhinzi bw'urutoki bukomeza kugenda bufata indi ntera mu bice byo mu cyaro ibi ngibi rero biba byarahereye mu mashuri, aho abana batozwa akamaro ka byo nko kuba bagenda ku ruhande bakabona ibishushanyo bigaragaza icyo gihingwa.

Abana bakunze kugira amacupa bajyanamo igikoma kugira ngo baze kukinywa mu gihe k'ikiruhuko cyangwa se bumvishe inzara irimo irabarya, aha ngaha rero ntabwo ababyeyi bagomba kumenya ko umwana agomba kwicwa n'inzara mu gihe ari ku ishuri.

Leta yatangije gahunda mu mashuri agiye atandukanye yo kugaburira abana, ibingibi byatumye uburezi bugira ireme rihamye kandi byongera n'umusaruro ku gihugu kuko bigaragara ko abana baba bahaze.

Inyamaswa na zo zigira uburyo zisanzuramo kandi zikidagadura hagati yazo, ni byiza rero kumenya kuzifata neza tukirinda kuzica cyangwa se ngo dukore nk'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma zitamererwa neza.

Ibikoresho byifashishwa mu bushakashatsi, harimo ibitabo n'izindi nyandiko za kera zigaragaza ubutwari cyangwa se ibyakozwe n'abantu runaka. Niyo mpamvu gukora ubushakashatsi bigezweho iki gihe bitagora abantu cyane.

Ahantu henshi hakunze kuba hari amashuri ariko usi ibyo gusa kuko kuri ayo mashuri bashushanyaho ibikoresho by'umuco nk'imyeyo n'amabasi ibingibi rero bigatuma uburezi bugenda buzamuka kandi bugakura mu bice bigiye bitandukanye.

Ku nkuta z'amashuri hakunze kuba hashushanyijeho ibintu bitandukanye, harimo nk'amafi, aho baba bashishikariza abana kumenya kwita ku bimera ndetse no ku nyamaswa zo mu mazi, ibi ngibi bituma rero abana bagira amatsiko bakaba bavumbura n'izindi nyamaswa zitagaragajwe ku bishushanyo.

Mu bikapu abana batwara ku ishuri haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amakayi, amakaramu ndetse harimo n'abo bashyiriramo ifunguro kugira ngo baze kurifata mu gihe basoje amasomo cyane cyane nk'ababa bataha kure.

Amasomo atangirwa mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, agomba kuba yoroshye kandi abana bashobora kuyumva mu buryo buboroheye. Ni byiza rero gufasha abana kumenya gusoma no kwandika mu gihe bakiri muri iyi myaka yo hasi.

Kugira ngo abantu baryame ahantu heza bisaba kuba bafite ibitanda byiza bihagije kandi bakamenya no kubisa neza, ibi ngibi iyo bikozwe indwara zituruka ku mwanda zirahashywa burundu, ugasanga ntibarwara inda n'imbaragasa.

Kumenya gushushanya burya na byo ni umwuga wagutunga, harimo ababisuzugura abantu bakumva ko umuntu ukora ibintu nk'ibyo nta kamaro byamugirira, ariko nyamara nta mpamvu yo gusuzugura umwuga cyangwa se ubumenyi runaka, ahubwo tuba tugomba gushyigikirana muri byose.

Abantu benshi b'ibirara usanga baragiye bishushanyaho ku kaboko ibyo bakunze kwita ngo ni tatuwage, ibi bintu bikunze kugira ingaruka cyane, aho ingo nyinshi zigenda zisenyuka mu gihe habayeho udukosa kuko ntabwo habaho kwihanganirana bitewe n'ibyo baba babona ku mibiri yabo.

Inzovu ni inyamaswa y'inyamahoro, ikunze kuboneka muri pariki y'Akagera aho usanga ikurura ba mukerarugendo benshi baje kwirebera ubwo bunini bwayo, ibi ngibi rero bituma ibungabungwa neza mu mapariki yose y'ibihugu aho ziboneka.

Abana bakunda kwisanzura bakidagadura mu gihe babonye icyo bahugiraho nk'ibyicungo, ibi ngibi bituma barushaho kuruhuka kandi umubiri wabo ugakora neza n'izindi gahunda.

Ibishushanyoba biba biri ku nkuta z'amashuri harimo iby'ubuhinzi, amatungo ndetse n'ibice bigize umubiri w'umuntu, ibi ngibi rero icyo biba byigisha ni ukumenya gufata neza ibidukikije.

Amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse n'ay'inshuke agomba kuba afite inyubako zimeze neza. Zaba iz'ubwiherero, izikoreshwa n'abana mu kwiga, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibingibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka.

Ibishushanyo bigenda bigaragara ku bitabo by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'inshuke, bituma abana barushaho gutekereza byaragutse kandi bakazagenda babaye intiti uko bukeye n'uko bwije.

Kugira ngo uburezi bukomeze butere imbere ni uko bagomba kuba bafite ibikoresho bitandukanye yaba ku ruhande rw'abarirwa ndetse n'abatanga uburezi. Ibi ngibi rero bituma igihugu kigenda gishoramo ingengo y'imari nyinshi kandi ihagije.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye ndetse n'ay'inshuke akunze kuba afite ibyifungo abana bagenda bakaruhukiraho mu gihe basoje amasomo, ni byiza rero gukora siporo tukabimenyereza umubiri wacu.

Bamwe mu rubyiruko bagiye batwarwa n'ikoranabuhanga, aho batakibona umwanya wo kwitekerezaho cyangwa se ngo bagire ibindi bikorwa bakora. Ibingibi nyamara bigomba guhagarara kugira n'indi mirimo ibonerwe umwanya.

Inyamaswa zigiye zitandukanye ziboneka mu mapariki ariko hari n'iziba mu nzu z'abantu nk'imbeba cyangwa se injangwe, ibi ngibi rero bituma turushaho gukunda urusobe rw'ibidukikije kandi tukamenya no kuzifata neza.

Ibimera bidufitiye akamaro kanini cyane nko kuba twakuramo ibiryo by'amatungo, imiti igiye itandukanye. Niyo mpamvu ku nkuta z'amashuri usanga bagenda babishushanyaho, bakerekana n'ibice bibigize.

Ibyicungo ku bana b'inshuke biba bikenewe cyane, bibafasha kuruhuka mu mutwe, kumererwa neza ndetse bigatuma n'umubiri wabo ukomeza kurushaho kugira imbaraga kuko siporo iba ikenewe mu bana.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kuba bafite ibishushanyo by'imodoka aho bino biba bibakururira kuzakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu gihe kizaza kuko biba byaramaze kubagera mu mutwe bakiri bato.

Bimwe mu birango bikunze kuboneka ku bitabo by'amashuri abanza ndetse n'inshuke, harimo nko kubona inyamaswa. Ibingibi bituma abana barushaho gukunda ibibakikije, kandi bagakura bazi neza ko bifite akamaro.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke akunze kuba afite utuntu tw'udukinisho dukoze mu myenda cyangwa se mu bindi bitambaro runaka ibingibi bituma abana bivumburamo izindi mpano zo kuba bavamo nk'abakora ubugeni.

Igikapu kiba kigomba kuba gifite imashini ku ruhande ndetse n'ahantu bafungurira mu gihe bagiye kugira ibindi bikorwa bashyiramo cyangwa se ibikoresho ibi ngibi rero bituma umunyeshuri wese asabwa kugitunga.

Zimwe mu nzego za leta zishinzwe umutekano, zikunze kwegera abaturage zikabashishikariza gutanga amakuru ku gihe. Ibi ngibi bituma ibyaha bikorwa mu gihugu bigabanuka ndetse n'abantu bigomeka bakabitinya kuko baba bazi ko hari abandi bari kubareba.

Ahantu hatangirwa amasomo hagomba kuba hameze neza kandi hasukuye, harimo nko kuhashyira ameza magari n'intebe zigiye zitandukanye z'amoko menshi kugira ngo abantu bige batuje kandi bafite umutekano.

ibitabo bikunze kuba birimo ubwenge buhishe, niyo mpamvu umuntu udasoma adashobora kumenya agaciro kabyo, ni byiza rero kumenya kubibungabunga no kubifata neza kandi bigashyirwa kure aho abana batagera kugira ngo batabyangiza.

Ibinyampande ni ibintu ibintu bikunze kuba mu isomo ry'imibare, aha ngaha rero biba bigomba gukorwa neza kandi bigashushanywa n'abantu babisobanukiwe bashobora no kubisobanura, atari umuntu ubonetse wese cyangwa utazi aho biva n'aho bijya.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, iyo basoje amashuri baba bashaka kujya ahantu heza babona nk'ibyi'icungo bakishima bakabyina, bagasabana n'ababyeyi babo. Ni byiza rero ko twabashyigikira muri ibi bintu baba bifuza.

Mu mashuri y'incuke ndetse n' abanza hari ibishushanyo biba biri ku nkuta, ibi ngibi bitera abana amatsiko bakavumbura bagashaka no kugenda bagira ibindi bintu byinshi biga, ni ingenzi rero kubikora mu gihe ari ngombwa cyanecyane mu mashuri y'incuke.

Ibikinisho by'abana birabafasha cyane kuko usanga bikangura ubwonko, bwabo bagatekereza kurushaho kandi byagutse, ibi ngibi ni bikomeza gukorwa, iterambere rizagenda rizamuka ku bato ndetse n'abakuru muri rusange.

Imvura iyo igwa ari nyinshi, ishobora kwangiza ibikorwa remezo harimo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ni ngombwa rero kumenya gukora neza imihanda, no kuyitaho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'isuri cyangwa se mu gihe k'itumba.

Ibishushanyo bigiye biri ku nkuta, bigomba kuba bifite amabara atandukanye. Yaba ibigaragaza ibice bigize umuntu, cyangwa se ibigize ikimera runaka. Ibingibi bituma rero abantu barushaho gutekereza akamaro ayo mashusho ari kugaragaza.

Kugira ngo indangagaciro yo gukunda igihugu bigerweho neza, ni uko abantu baba bagomba kwitabira igipolisi n'igisirikare ndetse bakerereka abantu koko ko ibyo bintu babishoboye, aho bahabwa imyitozo ikarishye kugira ngo bazabashe kurwana mu gihe cy'intambara.

Ibishushanyoyo bigaragaza amatungo magufi ndetse n'ayo mu mazi nk'amafi biba bifite icyo byigisha ni muri urwo rwego tugomba guhagurukira kurwanya abantu bangiza ibikoresho byo mu rugo bigenda bifashishwa mu kubungabunga izo nyamaswa nk'izo mu mazi.

Ibikinisho bikoze mu bwoko bw'ibikoko, bikunze guhahamura abana. Aho usanga abenshi babitinya cyane cyane abo twita ibibondo cyangwa se ibisekeramwanzi.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu mashuri abanza n'ay'inshuke harimo n'ibikinisho aho abana iyo bamaze gukeka amasomo bagenda bakidagadura bakaruhura mu mutwe, ibi nabyo tugomba kubyitaho kuko siporo ni ingenzi mu buzima.

Ibikoresho bya kera hakunze kubonekamo imyeyo gakondo, iyi ngiyi yifashishwa mu isuku n'isukura rusange kandi ntabwo ikunze guhenda cyane iboneka ku masoko yose mu gihugu.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza harimo ibitabo biba bishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, ibi ngibi rero bituma abantu bashyiramo imbaraga mu kubisoma cyanecyane abana ndetse n'abarezi, imfashanyigisho nk'izi ngizi rero ziba zigomba gukoreshwa.

Ibikapu bikunze kuba bifitwe n'abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke aho bajyanamo ibikoresho byabo nk'amakaramu amakayi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi bwo ku ishuri.

Ibikoresho by'abana bajyana ku ishuri hakunze kubamo udukapu dutoya cyane cyane nko mu mashuri y'inshuke, bakunze kujyanamo rero ibyo kurya, ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu masomo kandi bakagira n'utundi tuntu babikamo mu gihe ari ngombwa.

Ibitabo bya kera bigenda bishushanyijeho utuntu duke dutandukanye nk'udusimba dutoya ndetse n'inyamaswa muri rusange. Aha ngaha rero harimo n'aho dusangamo ibitabo by'imigani bigaragaza nk'ibisimba biteye ubwoba ariko biba bifite icyo bishaka kwigisha abantu.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kugira ngo abana bafate neza ni uko bahereza ibinyampande bigiye biri mu mabara meza nk'umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'ayandi mabara meza anogeye ijisho abana bashobora kubona bakishima.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, aba agomba kuba afite ibintu by'ingenzi mu bitabo byabo, harimo nk'ibishushanyo byoroshye kandi byumvikana, ku buryo abana b'imyaka mike bashobora kubisoma cyangwa se bakabireba bakabimenya icyo bishaka gusigura.

Inyoni ni inyamaswa nziza zikunze kugira ibintu biziranga nko kuguruka ndetse no gutera amagi, abantu benshi rero usanga bazifata neza ariko harimo n'abadasobanukiwe neza akamaro kazo, harimo nk'abazi ko inkoko zitari mu bwoko bw'inyoni kandi nyamara na zo ni ibiguruka.

Abana baba bagomba gushyirwa ahantu bisanzuye kandi babona n'ibyicungo ni mu rwego rwo kubafasha kuruhuka neza ndetse no gukora siporo kuko aba ari ingenzi mu buzima bwabo bituma n'imikurire yabo igenda izamuka ndetse ntibabe bagira n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa se guhangayika gukabije.

Abana aba bose aho babava bakagera bagiye batozwa kuririmba indirimbo y'igihugu. aho usanga ibitero bimwe byabo bigenda bigora bamwe na bamwe bakabyitiranya kubera kutamenya neza kwisubiramo, ni byiza rero kumenya ikirango cy'igihugu cyacu nk'amabendera.

Ibikinisho by'abana birabafasha cyane kuko hari igihe babikoresha bavumbura nk'ikindi kintu gishya, basobanukirwa n'ibyo bibuze cyangwa se bikoreshwa mu rwego rwo kugira icyo bisigura kandi abana usanga bibafitiye akamaro cyane ndetse n'abakuru tutabibagiwe.

Abantu benshi bakunze kumenya gusoma cyane cyane abari mu mashuri abanza ndetse n'incuke, hifashishijwe imbuto, ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibindi bintu biboneka mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Isi ifite indi mibumbe iyigaragiye, ariko ntabwo abantu benshi babizi ibi ngibi rero bisaba abantu bazobereye mu bumenyi bw'ikirere, ko bagenda babisobanurira abantu kandi bakaza n'ibimenyetso bigaragara koko iyo mibumbe ko ihari.

Ibitabo bikunze kuba birimo ubwenge buhishe, kugira ngo rero ubuvumbure ni uko ugenda ukabisoma kandi ukabisobanukirwa, ntabwo rero tugomba kugenda ngo duterere agati mu ryinyo ntitwicare ngo dusome, cyangwa se dusesengure ibirimo.

Umuco wo gusoma ibitabo uko imyaka igenda ihita, ugenda ugabanuka cyane cyane mu bakiri bato, aho usanga bahugiye murandasi, birebera amashusho amwe n'amwe harimo n'ay'urukozasoni.

Ubwiherero rusange bukunze kugaragara ahantu hahurira abantu ndetse ntibagiwe mu bigo by'amashuri n'amavuriro, mu masoko ndetse n'ahandi hantu imbaga nyamwinshi y'abantu ishobora gukoranira.

Ibinyampande ni bimwe mu bintu byifashishwa mu kwigisha isomo ry'imibare, ndetse n'ibinyabuzima hamwe n'ubutabire. Ni byiza rero kumenya gukoresha neza ibihari, ndetse no gufasha abana kwiga bakurikije ibyo bareba.

Ibinyampande ni ibikoresho byifashishwa mu Mibare yaba iy'Ubugenge ndetse n'Ubutabire, aha ngaha rero abana baba bagomba kumenya uburyo bikorwamo kandi bakamenya n'amazina yabyo neza.

Ubusitani dukunze kubonamo ibintu bitandukanye nk'indabo, imbuto ndetse n'ibindi bintu ku ruhande, ibi ngibi bituma tugomba gushyira umwete mu kubungabunga ibidukikije, tukirinda kubyangiza cyangwa se kuba twatwika nk'ibyatsi.

Kugira ngo tugere ku burezi twifuza, ni uko tugomba kuba dufite n'ibikoresho byinshi kandi bihagije. Aha ngaha navuga nk'ibikoreshwa mu buzima rusange, mu bumenyamuntu ndetse ntibagiwe n'imibare.

Ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi harimo inyundo, metero, ipiki ndetse na foreze. Ibi ngibi bituma umwuga w'ubwubatsi ugenda neza ukihuta kandi bikazamura n'umwuga ku babikora.

Amashuri y'incuke ndetse n' abanza akunze gukoresha ibirango bigiye bitandukanye mu kwiga, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rikomera kandi rikagira agaciro, ni byiza rero gukoresha imfashanyigisho zigiye zitandukanye.

Abana baba bagomba kugera ku ishuri kare, bagafata amasomo ndetse bagasubiramo n'ibyo baherutse kwiga. Ibi ngibi bituma mwarimu iyo ahahageze ntawujijinganya mu gusubiza mu gihe ababajijwe ikibazo.

Ibishushanyo biba bikunze kwifashishwa mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, ibi bituma ubwonko bw'abana bukora cyane ndetse bakagira n'amatsiko yo kuvumbura ibindi bintu bishyashya kuko bamwe baba bazavamo abashakashatsi b'ejo hazaza.

Ibikapu bitwarwamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Nk'amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi bintu byifashishwa mu burezi bw'ibanze. Ni byiza rero kubibungabunga ndetse n'ababyeyi bagashyiramo imbaraga mu kubiha abana babo.

Inyubako zimeze neza kandi zifite isuku zigomba gukomeza kwitabwaho kandi hagashyirwaho n'ingamba zihamye zo kuzibungabunga no kuzirinda. Niyo mpamvu Leta igerageza gukora ibikorwa byinshi by'iterambere, ikabikorera ahantu heza.

Abarezi baba bagomba kuba intangarugero ku bo barera, aha ngaha harimo nko kwigisha abana abafite ubumuga ntibababakorere ihohotera cyangwa se ngo irindi totezwa kuko hari igihe usanga abantu benshi mu miryango bataramenya ko nabo ari abantu nk'abandi.

Kumenya kwandika no gusoma ni zimwe mu ngamba Leta yafashe ndetse irushaho kugenda ikundisha abaturage, ibi ngibi bizatuma n'iterambere ku Gihugu ryiyongera kandi n'abantu barusheho kuva mu bujiji maze intiti zikomeze kwiyongera mu Gihugu.

Umunyabwenge aba agomba gusoma ibintu bigiye bitandukanye, byavuzwe cyangwa se byakozwe n'abandi bantu, aha ngaha rero Leta igomba gushishikariza abantu kugana amashuri, amarerero ndetse n'amasomero agenda agaragara hirya no hino.

Ibitabo dusangamo ubumenyi bugiye butandukanye bwifashishwa n'abanyeshuri, ibingibi bituma ubushakashatsi bwiyongera mu bantu ndetse n'abantu bagashishikarira umuco wo gusoma kuko bazi ko basangamo ubumenyi bwiza kandi buhagije.

Ibikapu by'abana bikunze kuba birimo ibikinisho. Ibi ngibi bituma abana bakunda kubifata neza kandi na bo bakagira umwete mu kwiga. Ni byiza rero guhereza abana ibintu nk'ibi ngibi, bituma ubwonko bwabo bukanguka.

Mu mashuri yo mu cyaro hakunze kugaragaramo intebe z'ibiti nyinshi ndetse n'ibibaho by'umukara, ibingibi rero bituma ireme ry'uburezi ritihuta cyane ugereranyije no mu mijyi aho bamwe baba bafite za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwigisha.

Kugira ngo uburezi bugende neza ni uko abana bagomba kubona ibikoresho byiza kandi bihagije, ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rizamuka kandi n'abantu bakarushaho kugenda batera imbere, biturutse ku bumenyi bagiye bavoma mu ishuri.

Imyambaro igiye itandukanye nk'amakote n'imipira migufi, ikunze kwambarwa n'abasore cyangwa se inkumi, mu rwego rwo kugaragaza ko bishimiye ibikorerwa iwabo, aha ngaha rero ibitumizwa hanze byagiye bigabanywa cyane cyane mu Rwanda.

Uburezi buhamye bwagaragaye mu bihugu by'u Rwanda na Singapure ndetse na Leta zunze ubumwe za Amerika, ibi ngibi rero bizatuma Igihugu cyacu gishyiramo izindi mbaraga zidasanzwe, mu rwego rwo kugira ngo rufate ibihugu byamaze kudusiga mu iterambere.

Amashuri makuru ndetse n'abanza agomba gufatwa neza, aha ngaha hagomba kuba hari nk'ibyicungo abana bato bashobora kugenda bakaruhukiramo ndetse ntagende ngo hitabwe ku gice kimwe kuko n'abafite ubumuga baba bagomba kubona zimwe muri serivisi z'ingenzi igihugu gitanga.

Amashuri abanza yagiye ahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye, ibi ngibi byatumye uburezi n'uburere bwiyongera kandi n'abarezi bakomeza kugenda babaho neza, mu rwego rwo gushimangira ibi ngibi, ni aho umubare wagiye uzamuka ukagera hafi kuri mirongo icyenda ku ijana.

Mu bitabo by'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke hakunze kuba harimo ibintu bigiye bitandukanye, nk'amashusho y'amazi aho aba ashaka kwigisha abanyeshuri kumenya agaciro kayo, kuko niho tugenda dusangamo amafi ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko bwagiye butezwa imbere na Leta y'u Rwanda aho abantu babona amagi, amafaranga ndetse n'inyama yewe kuko nta muntu wagira nk'ikibazo cyo kurwara bwaki yoroye iri tungo.

Amashuri ndetse n'amavuriro aba agomba kubungabungwa kuko ni ibikorwaremezo bisaba amafaranga menshi kandi bihenda, rero iyo bimaze kubakwa ntibibungabungwe usanga bidatanga umusaruro wifuzwa.

Ibihano byagendaga bihabwa abana harimo gupfukama ariko hari n'igihe byabaga atari ibihano, iyo bashakaga nko kwandika ahantu hasi habegereye bamwe bagahitamo kwipfukamira kugira ngo babashe kuhagera bitabagoye.

Inyubako zigiye zitandukanye ziba zifite amarembo. Ibi ngibi rero bituma abantu batagenda baca ahantu hose babonye, kuko haba hari umuryango wabugenewe. Ni byiza rero kumenya kunyura ahantu habugenewe tukirinda kunyura mu byanzu.

Amasomo arimo ubumenyi, ubutabire ndetse n'imibare n'ubugenge, asaba ibikoresho byihariye, si ayo gusa kuko hari isomo ry'ubumenyi bw'ikirere aho usanga ubu ngubu rimaze gufata indi ntera mu gihugu.

Kugira akajagari mu cyumba dufatiramo amasomo ntabwo biba bikwiye, haba hagomba rero kwitabwaho isuku yaho, ibikorwa bikagenda bishyirwa ku ruhande kandi bikigwaho neza ku buryo bukwiye.

Isomo ry'imibanire ryatangiye kwigishwa kera, aho umwana yaryigaga kuva mu mashuri abanza akageza mu mashuri yisumbuye agifite udusigisigi twaryo, kandi ibingibi byatangaga umusaruro.

Ibinyugunyugu biri mu bwoko bw'inyamaswa z'inyoni, akenshi biraguruka kuko bifite amababa. Ahantu rero tubibonye tuba tugomba kubifata neza, tukabibungabunga kuko biboneka ahantu hake ku isi

Amakayi, amakaramu, ni ibikoresha umunyeshuri wiga mu mashuri abanza agomba kuba afite kuko bo ntabwo bakunze kwemererwa gukoresha mudasobwa cyangwa se amatelefone, ugereranyije n'abiga mu mashuri makuru na za Kaminuza.

Inyubako zimeze neza zikunze kugenda zikorwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, nk'uburezi, ubuzima, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ibi ngibi bigerwaho neza iyo zibungabunzwe kandi zikanitabwaho n'abazifite.

Ibimera biba bigomba gufatwa neza bikabungabungwa kandi bikitabwaho, nta muntu rero uba ugomba kubyangiza cyangwa se ngo abone abantu bari kubitwika ntababuze, ni inshingano ya buri wese kwita ku bimukikije.

Ibitabo by'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, inyuma hakunze kuba hariho amashusho afite icyo agaragaza kandi yigisha, ibi ngibi bituma ubwonko bw'abana bukanguka kandi bagafata n'ingamba nshyashya zo kugenda basoma ibyo bitabo.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo: amakayi, amakaramu, imikasi, incaruziga ndetse n'ibinyaruka bikoreshwa mu kubara imibare yo guteranya ndetse no gukuba.

Amashuri abanza n'ayisumbuye aba yubatse ahantu heza kandi hagaragarira buri wese, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka kandi bigatanga n'umusaruro, aho usanga iterambere ry'Igihugu rimaze kugera ku rugero rushimishije.

Ibikoresho by'ubuhinzi harimo isuka ndetse no kugira imihoro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bituma ubuhinzi bugenda neza, abantu bakiteza imbere ndetse bagasagurira n'amasoko muri rusange.

Udukarito ndetse n'utundi dushushanyo dukunze gukoreshwa n'abarezi mu gufasha abana biga mu mashuri abanza ndetse n'inshuke, kumenya gusoma no kwandika. Harimo n'ayifashishwa mu isomo ry'imibare kugira ngo abana bakure bakunda iri somo.

Ibendera ry'Igihugu cyacu rifite izuba n'amabara atandukanye nk'ubururu, umukara ndetse n'icyatsi. Ibi ngibi rero bifite icyo bisobanura niyo mpamvu hagomba kugenda higwaho neza icyo buri bara risobanura.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'Imibare biba bigomba gufatwa neza kandi bikabikwa niyo mpamvu uburezi n'uburere bufite ireme hagomba gushakwa n'ibikoresho byo kwifashisha mu gihe harimo haratangwa ubumenyi nk'ubwo.

Inyubako za leta zikunze kuba zifite ubusitani mbere, mu rwego rwo kunoza imitako ndetse no gukururira abantu kureba aho hantu no kuhasura. Ariko ibi ntibyagombye kugarukira ahangaha, ahubwo hakagomngeye kumenya icyo bifasha abantu muri rusange.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo icyo bita buwate, iyi ngiyi aho iba igizwe n'ibikoresho birimo amarati maremare, ibikoresho byifashishwa mu gushushanya n'akandi kantu gato bakoresha basiba mu gihe hajemo ikosa.

Mu mashuri y'incuke hakunze kuba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi, ibi ngibi bituma abana bagenda barushaho gutekereza icyabagirira akamaro ndetse n'icyatuma barushaho kugira ubumenyi buhagije kandi bwisumbuyeho no ku rwego mpuzamahanga bakaba bahagera.

Ibendera ry'Igihugu rigiye rifite amabara atandukanye, nk'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ibi ngibi rero ntibigomba kugarukira kubimenya gusa, tuba tugomba kumenya icyo bisobanura kandi tukagerageza no kubaha no kubahisha Igihugu cyacu.

Inyubako zigiye zitandukanye zikunze kugaragara ahantu hitaruye aho usanga nta bindi bikorwa bihakorerwa uretse icyo gusa niyo mpamvu ahantu hari tuba tugomba kuyafata neza tukabungabunga n'ibindi bikorwaremezo bihegereye.

Ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi harimo nk'inyundo ndetse na forezi. Ni byiza rero kumenya ko ibi bikoresho iyobifashwe neza bitanga umusaruro kandi n'inyubako zikarushaho gukomera kuko ziba zarakozwe n'ibikoresho bigezweho kandi bikoreshwa n'abantu babifitiye ubushobozi.

Buri shuri riba rifite ikirango kigaragaza izina ry'ikigo, aho usanga rero ibintu nk'ibi ngibi byitaweho ni mu Ntara y'Amajyepfo kandi byamaze no kugaragara ko ari ho hantu hafite uburezi n'uburere buri hejuru ugereranyije n'ahandi mu Gihugu.

Ikinyaruka ni igikoresho cyifashishwa mu mibare. Aho usanga abantu benshi batinya ko iri somo ribagora bakoresheje umutwe wabo. Nyamara ibi ngibi bituma abantu benshi batabona ibisubizo bya nyabyo kuko baba barambirije kuri ibi binyaruka gusa. Niyo byakibeshya ntibabimenya.

Amashuri ndetse n'izindi nyubako za Leta, ziba zifite ibirango by'igihugu imbere nk'ibendera ry'u Rwanda. Si ibi ngibi gusa biboneka mu gihugu cyacu kuko harimo no kuba hari nk'ubusitani bwiza kandi bumeze neza. Ugasanga inyubako zimwe na zimwe ziteye n'amarangi anogeye ijisho.

Iyo ugeze mu isomero usanga ibitabo bibitse neza kandi bitondetse, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka ndetse n'abantu bakarushaho gukunda uyu mwuga, aho wagiye woroherezwa muri kaminuza kugira ngo abakeneye kuwiga babone igihe cyiza cyo kunoza uyu mwuga.

Inyubako za Leta zigenda zigaragazwa n'ibintu bitandukanye, harimo nko kuba zubakishijwe amatafari ahigiye, mu rwego rwo kugira ngo zizarambe ntizizasenyuke vuba.

Ibyumba by'amashuri iyo bikozwe neza bitanga umusaruro ku burezi, aha ngaha rero hagomba kuba harimo ibikoresho bihagije nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abana bakunda gufata ibikinisho bakabikoramo utuntu tujye dutandukanye nk'indege cyangwa se abantu. Ibi ngibi bituma ubwonko bw'abana bukanguka, bakaba bavumbura ibintu bishyashya.

Amatungo magufi nk'ihene n'intama akunze kuboneka mu bice byo mu cyaro, aho abayorogeye babona amafaranga, bakabona ifumbire yo gushyira mu myaka n'ibimera bigakura neza.

Mu rwego rwo kubungabunga ubutaka no gukomeza guteza imbere ibidukikije leta yagiye ishyiraho ingamba zo kubaka inzu zigiye zigerekeranye ibi ngibi bituma hasigara ubuso bwo kuba bwakorerwaho ibindi bikorwa bitandukanye nk'ubuhinzi.

Abana bagomba gutozwa kwicara neza kandi ku murongo, ibi ngibi bituma bakurikira neza amasomo bahabwa, bakarushaho gucukumbura ibintu bishyashya bitabagoye kuko baba bisanzuye.

Bimwe mu bintu abahinzi bifashisha harimo inkweto zizamuye bakunze kwita bote ndetse n'ibintu bambara ku ntoki kugira ngo batangirika, ibi bikoresho rero bigomba kuboneka ahantu hose hashoboka.

Amashuri agiye afite ibintu bigiye bitandukanye nk'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bintu bigiye biyakikije, aha ngaha twavugamo nk'ubusitani aho bwifashishwa n'abantu mu kugenda baruhuka cyangwa se bakaba bateramo n'indabo zimeze neza.

Isomo ry'imibare rikunze kwigishwa mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza ku buryo bwimbitse, ibi ngibi bituma abaryiga biyongera, bagashyiramo imbaraga kandi bagashishikariza n'abandi kurikurikirana bakiga.

Ubugeni n'umuco ni bimwe mu bigize ikirango cy'Igihugu, aho dusangamo nk'ingabo, intore ziri kubyina cyangwa se zihamiriza, ibi ngibi bituma abana bagira amatsiko ku byerekeranye n'umuco nyarwanda.

Mu mashuri abanza hagomba kuba harimo ibishushanyo bituma abana bakangukira gusoma ndetse no gukora imibare, aho usanga harimo abatinya rino somo bavuga ko rikomeye, nyamara imyumvire nk'iyi ngiyi yakagombye guhinduka.

U Rwanda rwatangije gahunda y'umuganda mu baturage, aho iyo iki gikorwa kirangiye abaturage baricara bakaganira bagacoca ibibazo ndetse n'abafitanye amakimbirane bakiyunga.

Ibikorwa bimwe na bimwe by'ubuhinzi bikunze gukorerwa ahantu hari abantu cyangwa se mu bigo by'amashuri, aha ngaha niho usanga baragiye batera nk'imboga, imbuto, mu rwego rwo kurwanya inzara ndetse n'ibindi bintu byose bishobora gutera imirire mibi.

Amasomomwe kugira ngo agire icyo amarira bayiga, ni uko agomba kuba atangwa neza kandi ashyizwemo imbaraga ku mpande zombi, harimo nk'abiga ubutabire, ibinyabuzima ndetse n'imibare.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'Imibare bigomba gufatwa neza, si iri somo gusa kuko n'ayandi yose tuba tugomba kuyashyiramo imbaraga kuko atugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza rero gukomeza gushyiramo imbaraga mu bintu bigiye bitandukanye cyane cyane mu burezi.

Akenshi ahantu hakorerwa ubuhinzi cyangwa se hadatuye abantu benshi hakunze kuba hari abantu b'abanyeshuri bambaye impuzankano zimeze neza kandi zisa, ibi ngibi rero bituma ubutaka bukomeza gutezwa imbere mu bisata bigenda bitandukanye by'Igihugu.

Abarezi baba bagomba kwambara neza kandi bakwikwiza, ibi ngibi bituma baba urugero rwiza ku bo bahereza ubumenyi n'uburere kuko bituma nta wigira ikirara mu bana ndetse agatinya ko n'umurezi we yamunyuzamo ijisho.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi, harimo ibicamande amakaramu y'igiti, amarati ndetse n'ibindi bintu bishobora gufasha abana gusobanukirwa ndetse no gukangu k'ubwonko kwabo. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga n'ababyeyi ndetse n'abarezi.

Inyubako za Leta nk'amashuri, yagiye yongererwa ibyumba mu bice bigiye bitandukanye by'icyaro, aha ngaha niho Igihugu cyagiye gihagurukira, cyaka imfashanyo ziturutse mu mahanga ndetse na Banki y'Isi hari inkunga yateye Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Hari inyamaswa zitandukanye zigenda ziboneka mu mapariki, aho zimwe ziba zimaze ibinyacumi byinshi, ni byiza rero kumenya kuzibungabunga, kuzifata neza ndetse tukirinda ko ba rushimusi bazigirira nabi dutangira amakuru ku gihe.

Iyo bigeze mu gihe cy'ibizamini buri wese yicazwa ku ntebe ye. Mu rwego rwo kurinda gukoperana cyangwa se hakaba hazamo andi manyanga. Niyo mpamvu hagomba gushyirwaho n'ibihano bikarikishye ku wagaragaweho ibikorwa nk'ibibyo by'amanyanga.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bugenda buteza imbere ubwisanzure ndetse n'ubworoherane aho usanga umuntu mukuru arimo aragenda akina n'abana ndetse n'abana bakarushaho kumwisanzuraho mu rwego rwo gukomeza gushyigikira umuco w'amahoro.

Amashuri ndetse n'izindi nyubako za leta, zikunzeye kwitabwaho cyane. Ibi ngibibi ntabwo bigarukira mu migi gusa usanga no mu cyaro baba baragiye bashyirirwaho ubushobozi bwo kugenda bongera ibyumba by'amashuri.

Uburyo bwiza bwo kubungabunga ibyagezweho harimo gukangurira abana kugana amashuri kuko usanga abarezi n'imfashanyigisho bakoresha ari ho bibanda cyane, ibi bigatuma inyigisho itambuka neza kandi mu buryo bworoshye.

Ibikoresho bikoze mu biti, bikunze kuba bikomera cyane. Hari ibyo twita Ribuyu aho usanga nk'inyubako za kera zigizwe n'ubu bwoko bw'ibiti. Ariko ibi ngibi ntibyagezwaho bitabanje kubungabungwa neza, cyangwa se ngo bishyirirweho ingamba zo kubifata neza.

Abana bagiye bahankana ibinyaruka, bagiye bagaragaza ko bafite ubushobozi bwo kuba bakora imibare mu mutwe, ariko nyamara ibi ngibi ntabwo byitaweho na bamwe mu mpuguke, aho bavuze ko abantu bose bafite ubunebwe ndetse bumva ko batashobora no gukora nta bwenge buhangano bafite.

Buriya kuva kera nta muntu wajyaga unyura mu cyanzu abantu bose bacaga ku marembo niyo habaga hari imyugariro bakabanza gukomanga cyangwa se bagahamagara ba nyir'urugo bakaza bakabakingurarira. Ni byizayiza rero ko n'amarembo y'ishuri cyangwa se ahandi hantu hakorerwa ibikorwa hagomba kuba ari ahantu heza kandi hagaragara.

Isomo ry'imibare ryigwa mu mashuri yose guhera muy'abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza, abantu benshi rero bararitinya cyane kuko bavuga ko iri somo rikomera kandi risaba abahanga cyane iyi myumvire rero iba igomba guhinduka.

Ibikoresho tugenda dukenera ku ishuri bigiye bitandukanye harimo nk'amakaramu y'ibiti, amarati maremare ya za mpande eshatu, ay'ibiziga ndetse n'incaruziga ndetse n'amakaramu, yifashishwa mu kwiga isomo ry'lmibare.

Ibintu bifasha abana kumenya neza ururimi harimo nko kubona inyuguti zigiye zanditse ahantu hagiye hatandukanye ibingibi byorohereza abana kuzifata mu mutwe kandi ntibanasubiremo cyane.

Akenshi mu mashuri y'inshuke abana batozwa guhera kubara uhereye kuri rimwe cyanecyane kugeza ku icumi. Ibigibi byatumye abantu benshi bagenda basobanukirwa neza n'akamaro ko guhera hasi, aho kugira ngo duhere hejuru tutabanje kumenya iby'ibanze.

Umunyarwanda yaciye umugani avuga ko ushaka guhisha umunyafurika amuhisha mu gitabo. Ibi ngibi rero nubwo byavuzwe, ntabwo aribyo kandi tugomba kubica ndetse uyu umuco w'ubujiji ukagenda ugaragara mu bantu bakiri bato, ugomba guhagarara.

Imibare kugira ibashe kwigika neza itsindwe, ni uko hagomba kuba hari ibikoresho byinshiye kandi bihagije. Ibi ngibi bituma abakunda iri somo bashyiramo imbaraga kandi n'umubare ukagenda wiyongera.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza, harimo iby'imibare nk'incaruziga, amarati ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye, ababyeyi rero baba bagomba gukoresha uburyo bwose bushoboka, bakabonera abana ibikoresho bibafasha mu mashuri yabo ndetse no mu myigire.

Uburyo bwiza bwo gushushanya ni ugutangira kubwitoza hakiri kare nko gukoresha ingwa mu gihe ugiye kwandika, ibi ngibi bizatuma uburezi bugenda neza kandi n'abatabukomeje bakagira ikindi kintu bunguka cy'ingirakamaro.

Isomo ry'imibare risaba ibikoresho bihagije. Aha hangaha twavuga nk'ibyifashishwa mu kubara, mu gushushanya ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bituma abanyeshuri bagira ubumenyi buhagije ku bijyanye n'iri somo.

Impande zombi iyo zicaye zikaganira zigera ku bintu bigiye bitandukanye yaba ku barezi, ku barerwa ndetse n'abaturage muri rusange, ibi ngibi bituma intambara zimwe na zimwe zihoshwa.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke agomba kuba afite ibikoresho by'ingenzi nk'ibikapu, aho batwaramo amakayi y'abana cyangwa se n'ibindi bikoresho nk'amakaramu, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rigenda rizamuka kandi ritera imbere.

Amashusho agiye atandukanye y'imibaire, akunze kuboneka mu mabara menshi kandi meza, ibi bituma abakunda iri somo bagenda biyongera kandi n'abaritinya bakarushaho gushirika ubwoba, bakagenda barikunda gahoro gahoro.

Ubumenyi bwakomeje kugenda butezwa imbere mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hantu hatandukanye ku isi aho abantu bagiye bahabwa ibikoresho bigezweho kandi bya kijyambere mu kwifashisha mu gihe bakeneye gukora ubushakashatsi.

Bimwe mu bikorwa byakorwaga n'aba kera harimo gushushanya, gusya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ni yo mpamvu abana iyo bageze mu mashuri abanza batangira no gutozwa imirimo y'amaboko kugira ngo na bo bazagire icyo bimarira.

Umutima w'umuntu ni munini cyane utangira mu mashuri abanza wiga ukamenya ibice byawo ariko nta muntu upfa kuwuminuzamo gutyo ngo agire kimwe na kimwe atakibagirwamo tugomba rero gushyiramo imbaraga mu kumenya ibice bigize umuntu.

Ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, harimo inyundo, amapeki ndetse n'urukero. Ibi bikoresho rero biboneka mu maduka atandukanye yo mu gihugu kandi n'ibitabonetse bishobora gutumizwa hanze bikagerwaho ku buryo bworoshye.

Umubumbe dutuye ugaragiwe n'indi itandukanye, nk'izuba ukwezi ariko abantu benshi ntabwo bafite ubumenyi kuri iyo yindi, kuko abenshi usanga bita ku isi ari nayo ituweho n'abantu, sibivuze ko n'indi idafite akamaro.

Ibyapa bishyirwa ahantu hagiye hatandukanye biyobora abantu, nta muntu ushobora kuyoba cyangwa se ngo agira ikindi kibazo bihari. Ni ngombwa no kumenyera kubifata neza ndetse no kubibungabunga, kandi tukamenya kubyitaho mu gihe cyose tubibonye.

Ibishushanyo bigaragaza amashusho, bikunze kwifashishwa mu isomo ry'ubumenyamuntu, ndetse n'imibare muri rusange. Ibingibi bituma abiga amasomo nk'ayangaya barushaho kwiyongera kandi bagatanga n'umusaruro iyo bayasoje.

Ibigo by'amashuri biba bifite ibyapa bibigaragaza bikagaragaza imigabo n'imigambi ndetse n'ikerekezo k'ishuri ndetse n'ikigo muri rusange, ibi ngibi rero bituma n'ababyeyi bagira umurava mu kwishyura amafaranga y'ishuri.

Amashuri yagerageje kuba indashyikirwa, yagiye ashyikirizwa ibihembo bigiye bitandukanye, harimo; nka za mudasobwa, n'ibindi bintu bibafasha mu myigire n'imyigishirize yabo ya buri munsi.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bikunze kuba birimo imipira y'amaguru, iy'amaboko ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ibi ngibi bituma abana bamenya gukina ndetse bakavumbura n'izindi mpano bifitemo.

Idarapo ry'Igihugu riba rifite icyo risobanura, buri nyubako yose ya leta cyangwa se ikindi gikorwa, kigomba kuba byibuze kirifite nk'ikimenyetso cy'ubudahemuka ndetse n'indangagaciro nyarwanda muri rusange.

Uburezi bufite ireme butanga umusaruro. Ahangaha usanga igihugu gifite icyerekezo cyifuza kugeraho mu myaka runaka, ariko ibi ntibyagerwaho hatabanje gucibwa ubujiji mu baturage.

Hari tumwe mu dukoresho tuba tumeze neza twifashishwa mu burezi bw'ibanze, ibi ngibi bituma ubwonko bw'abana bukanguka bagatangira bagatekereza byagutse kandi bakaniyubaka.

Ibitabo by'ijambo ry'Imana bikunze kwifashishwa n'abantu b'amadini n'amatorero agiye atandukanye, ibi ngibi rero bituma ibyago ndetse n'ibyaha bigenda bigabanuka mu bantu kuko abantu benshi batinya Imana.

Mu byumba by'amashuri hagomba kuba harimo ameza ahagije n'intebe zigezweho zitavunitse kuko ibi ngibi ni bikorwa, bizatuma igihugu kigira abashakashatsi benshi ndetse n'inzobere.

Ibigo by'amashuri ku marembo haba handitseho amazina yabyo ndetse bimwe biba bifite n'ibirango by'igihugu kandi bikagaragaza n'amashami abantu bashobora kwiga muri iryo shuri.

Amashuri aboneka hirya no hino mu gihugu akunze kuba asa neza kandi afite isuku, ibi ngibo rero ntibigomba gusubira inyuma cyangwa se ngo bikerenswe, tugomba gushyiramo imbaraga mu mpande zombi.

Ibyatsi ndetse n'ibigunda ntibigomba kwangizwa, niyo byaba biri mu kigo cy'amashuri cyangwa se ahandi hantu hakorerwa igikorwa runaka kuko ni ibintu bidukikije. Tuba tugomba kubifata neza tukabibungabunga.

Umunyarwanda yaravuze ngo utaganiwe na se ntamenya ibyo sekuru yasize avuze. Ibi ngibi ni ingenzi cyane kuko abana baba bagomba guhabwa n'uburere bwa kera ndetse bakavomamo n'ubumenyi nko kumenya guca imigani no gusakuza.

Ibyumba bitangirwamo amasomo bigomba kuba bimeze neza kandi bifite isuku, harimo kugira ameza magari kandi manini, abantu bakicara bisanzuye ntawe jbyigana n'undi, ibi bituma uburezi bugenda neza.

Abarezi bagiye bahabwa amafaranga abafasha mu mibereho yabo. Ibi ngibi byatumye amafaranga bahabwa bita agahimbazamusyi, batongera kuyabona ariko nta kibazo byateje cyane kuko n'imibereho yabo yagiye izamuka.

Umuco wa Kinyarwanda harimo kuganira n'abakuru, aho bagenda bakwibutsa iby'abasokuru bawe bagiye bakora ndetse n'abasokuruza, ntabwo rero tugomba gukerensa inama z'abakuru cyangwa se mu gihe baduhamagaye mu biganiro nk'ibyo ngo tuhabure.

Ibishushanyo byifashishwa mu mashuri abanza ndetse nay'inshuke, mu gukangurira abana kumenya gusoma no kwandika, ibi ngibi iyo bikozwe neza bitanga umusaruro kandi n'abana bakanezerwa bakarushaho gukunda ishuri.

Isomo ry'Imibare ritangwa ahantu hagiye hatandukanye yaba mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza, ibi ngibi bituma umubare w'abiga iri somo ugenda wiyongera kandi n'abarikunda bakarushaho gukomeza gushyiramo imbaraga.

Amashuri yigisha uburezi akunze gushyirirwamo inyoroshyo. Aho usanga nk'abantu bajya kwiga amashuri yisumbuye, abana baba bari gufata aya masomo bishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga y'ishuri, andi Leta ikayatanga.

Ibitabo, amakaye n'amakaramu ni ibikoresho umunyeshuri, umurezi akenera buri munsi. Si aba gusa kuko harimo n'abaganga na bo bakenera kwandika no gukora amaraporo y'ibintu bigiye bitandukanye.

Mu bintu bigaragaza neza ko uburezi bushyirwamo imbaraga, harimo nk'ibishushanyo byifashishwa abana bagenda babona ku bitabo byo bagenda basoma. Ibi ngibi bituma bagira amatsiko, bakavumbura ndetse bakaba bakora n'ibintu bishyashya.

Kugira ngo uburezi bukomeze kugenda neza kandi butere imbere bagomba kugira ahantu habika ibikoresho nk'ibitabo ndetse n'ibindi bintu bakenera, ni byiza rero ko muri biro bya buri mwarimu cyangwa se by'ikigo hagomba kuba harimo utubati ibyo bikoresho bibikwamo.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye agomba kuba afite byibuze bimwe mu bikoresho by'ubugeni, mu rwego rwo gukomeza gusigasira umuco nyarwanda kugira ngo uw'amahanga utazaza ukawumira, ni ingenzi rero kumenya ibyiza byari bigize u Rwanda rwo hambere.

Abantu ibihumbi byinshi bigiye bitandukanye bagenda bigishwa kandi basobanurirwa imwe mu migabo n'imigambi leti ifite, harimo nko kubahugura kumenya gukoresha mudasobwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ingenzi bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke agomba kuba ameze neza, afite isuku kandi yitaweho mu mpande zose zigiye zitandukanye. Ibi ngibi bituma hatangizwa ibikoresho biba birimo imbere, cyangwa se ngo abantu bakerense kubifata neza.

Mu muco nyarwanda tugira indangagaciro zigiye zitandukanye nko gukunda Igihugu gukorera ku gihe, kugira umurava, isuku, gukorera ku ntego, kwihesha agaciro, ubupfura ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Akenshi iyo umusaruro umaze kuboneka uturutse mu bizamini byagiye bikorwa n'abana, ushyirwa ahagaragara kugira ngo abakoze nabi bisubireho ndetse n'abakoze neza bashimirwe kandi bashyiremo n'izindi mbaraga mu rwego rwo gukomeza gushaka ubumenyi muri rusange.

Mu rwego rwo gukomeza gusigasira ibyagezweho, harimo kubaka amashuri kandi akabungabugwa. Aha ngaha rero byagaragaye ko ubutaka iyo bukoreshejwe neza, bugenda butanga umusaruro, cyane cyane nko kumenya kuwusaranganya, twubaka inzu zigerekeranye.

Ibikoresho bikoze mu biti bidusangamo nk'amakayi, amakaramu ndetse n'imbaho, aho iterambere kera ryari ritaraza ibi bikoresho byifashishwaga n'abarezi ndetse n'abahabwa uburezi kugira ngo bibafashe mu myigire yabo ya buri munsi.

Mu byumba by'amashuri hakunze kubonekamo intebe, ameza ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibi ngibi bituma uburezi bukorwa neza abana bakabona icyo bakeneye kandi bagatanga n'umusaruro muri rusange.

Udupfukamunwa twakoreshwaga mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'ikenda ariko ubu ngubu ntabwo tukigezweho kuko dukoreshwa mu mavuriro agiye atandukanye n'abaganga cyangwa se izindi nzego z'ubuzima.

Ibiti, ibyatsi ni ibintu bidukikije, biba bigomba guterwa mu mashuri kugira ngo abana batangire babyigishwa kandi nibakenera n'ingero bahite bazibona hafi, bitabasabye kurinda gusohoka ikigo.

Impuzankano zigomba kuba zifitwe na buri shuri ryose ndetse n'ikigo muri rusange. Nta mu muntu rero ugomba kujya mu ishuri yambaye uko yishakiye kuko ibingibi nibyo bitandukanya abanyeshuri ndetse n'abaturage bo hanze cyangwa se abandi bantu bateri muri iki gisata cy'uburezi.

Uburezibufite ireme, bugira ibintu bibugaragaza. Harimo nko kuzamura umubare w'abatsinda, kugabanya umubare w'abantu bari mu bujiji. Ibi bikorwa rero ni byo bigaragaza ko abantu barimo baragenda batera imbere.

Ubumenyi bugenda buturuka ahantu hagiye hatandukanye. hari mu mashuri ndetse no hanze. Kugira ngo tugire abaganga cyangwa se abandi bashakashatsi, ni uko baba baranyuze mu ishuri kandi bagakurikira neza amasomo ahatangirwa.

Inkuta zubatse neza kandi zikomeye zikunze kuba zifite amatafari ahiye. Ibingibi rero biba bigomba kujyana n'amabati mashyashya aho inyubako zimwe na zimwe zifite amabati ashaje zigomba gusenywa hakubaka izindi.

Ibihembo bituma abana bakora cyane kandi bakagira n'ishyaka, niyo mpamvu Leta yagiye ishyiraho ibyemezo bimwe na bimwe by'uko abantu batsinze neza cyane cyane mu mashuri abanza n'ayisumbuye, kujya bahabwa ishimwe.

Abana aho bahabwa ibiryo usanga bamwe muri bo bafite umururumba bashaka kwikubira ariko umuco nk'uyu ntabwo uba ukwiye mu rubyiruko kuko abana baba bagomba kumenya gusangira no gusaranganya duke dufite muri rusange.

Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo kenda na kane yasize ibikomereye mu mitima ya benshi. Niyo mpamvu hagomba gushyirwaho ingamba zo kurwanya no kurandura burundu ingengabitekerezo yayo.

Abana bakunze kwicazwa ahantu hamwe bakaganira bakigishwa indangagaciro harimo nk'inzo gukunda igihugu, kirazira, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ,ibi ngibif bituma abana bajya mu mihanda cyangwa se ngo bigire ibirara umubare ugenda ugabanuka.

Bimwe mu bikoresho dusanga mu mashuri makuru na za kaminuza harimo ibyumba by'amashuri by'aho baba ndetse bakora n'indi mirimo itandukanye, bigomba rero kugenda bifatwa neza kandi abantu bagatozwa kumenya neza ko ibi bintu bifite akamaro mu ngeri zose.

Mu gihe k'icyorezo hafatwa ibipimo by'ubushyuhe mu rwego rwo kukirwanya no kurinda ko abantu bagikwirakwiza, ibi ngibi byagiye bigaragara nko mu myaka ibiri ishize aho hari harateye icyo bita Kovide.

Amashuri yisumbuye agomba gukora ibishoboka byose agateza imbere uburezi bw'abafite ubumuga, aha ngaha rero ni uko Igihugu gifite inshingano mu burezi REB, kigomba gushyiraho imirongo ngenderwaho ndetse n'imfashanyigisho ihamye.

Akamaro k'ibiti kagenda kagaragara muri rusange, harimo nko kuba twahakorera inama cyangwa se tukiyumvira amahumbezi atangwa n'ibyo biti mu gihe hari ubushyuhe bwinshi, si ibyo gusa kuko nko mu bigo by'amashuri usanga bose barabiteye mu rwego rwo gukomeza gufasha abana guhumeka neza.

Abana benshi ntabwo baramenya gukoresha neza indangururamajwi ndetse n'ibindi bikoresho bya kijyambere bigezweho, harimo ababa batitira iyo babahaye cyangwa se bagatangira kuyikubita, aho usanga utwuma tuba tuyigeze imbere dutangira kwangirika.

Bimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu azi ikintu ni nko guhabwa impamyabumenyi ndetse agahabwa n'ikintu kigaragaza ko byizewe koko, ntabwo rero abantu bose bagomba kugenda ngo bicare, wumve ko uzagaragaza ibintu ko ubizi ariko nta rupapuro cyangwa se ikindi cyemezo runaka gifite ubuziranenge.

Ababyeyi abarezi ndetse n'abana bakunze kwicara bakaganira, bakagira bimwe banoza ndetse no gukosora ibitagenda neza. Ni byiza rero kwitabira inama nk'izingizi.

Inyubako za leta dufite harimo amashuri, amavuriro, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibingibi rero bituma leta ishyiraho ingamba zo gukomeza kubungabunga ibyagezweho.

Umuyobozi nyawe ni uwegera abaturage akabaganiriza kuri gahunda za leta, harimo abamara kugera ku buyobozi, bakicara bagaterera agati mu ryinyo, bakumva ko ibintu byose babigezeho.

Urubyiruko rwiga mu mashuri yisumbuye rukunze kuba rufite ibindi bikorwa rukora nko kuririmba, kubyina ndetse n'ibindi bintu bituma rumera neza kandi rugashyigikirwa n'izindi nzego za Leta.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye hagiye hongerwamo ibyumba by'amashuri mu myaka yashize, aho banki y'Isi yagiye itera inkunga Igihugu cy'u Rwanda, mu kubaka no kongera umubare w'aya mashuri.

Kugira igitsure ku bana bakiri bato, ntago ari byiza kuko hari igihe ubahahamura, bagakuka umutima ndetse n'ibyo ubabwiye ntibabashe kubyubahiriza. Ni byiza rero kumenya uburyo utwaramo abakiri bato.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bagenda bagaragaza ubushobozi bugiye butandukanye nko guhanga udushya, kuvumbura cyane cyane abiga imyuga ndetse n'abiga ubumenyingiro muri rusange.

Uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga bugira akamaro cyane ni yo mpamvu Leta igenda ishyiramo imbaraga ishishikariza abantu kugana ishuri mu rwego rwo kugabanya ubujiji, ibi ngibi bituma n'ubunebwe bugenda bugabanuka muri rubanda.

Uburezi buhamye kandi bufite ireme harimo no gukoresha mudasobwa. Mu rwego rwo guteza imbere ikoranabuhanga. Ibi ngibi byatumye umusaruro mu gihugu ugenda wiyongera, ndetse n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bagenda biyungura ubumenyi.

Igihugu gikomeje gushyira imbere ireme ry'uburezi mu bafite ubumuga ndetse no kugenda bigisha abantu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ibi ngibi bizatuma tugera ku iterambere rya nyaryo kandi rirambye.

Uburezi bugomba gushyirwamo imbaraga kandi bugatezwa imbere na leta. Ibi ngibi rero bizatuma iterambere ry'igihugu rifata umuvuduko udasanzwe kandi n'abandi bantu babukora bagenda barushaho kwiteza imbere. Ndimo ndavuga uburezi muri rusange.

Ibiti ni ibintu bidukikije bigomba gufatwa neza kuko nk'iyo biri mu bigo by'amashuri, usanga abantu bicara bakabiganiriramo bagafatiramo amahumbezi, bigahita biba ikimenyetso cyiza cy'akamaro ku bidukikije.

Bimwe mu bikorwa biteza imbere uburezi harimo no guhemba abatsinze, cyangwa se abandi bana baba babaye indashyikirwa, ibi ngibi bituma n'abandi bashyiramo imbaraga bakagira umurava, kandi na bo bakarwanira kuba indashyikirwa mu bindi bigo bigiye bitandukanye.

Ibikorwa remezo biba bigomba kubungabungwa. Aha ngaha navuga nk'imihanda ndetse n'amavuriro n'amashuri ntibagiwe. Ibi ngibi rero nibikorwa neza intego Igihugu kihaye zizagerwaho ku buryo bworoshye.

Uburezi ku banyeshuri bakuru ni ingenzi. Aho usanga bamwe bageze mu bugimbi cyangwa se ubwangavu, biba bigoye kubigisha cyangwa se kubasobanurira amahame n'indangagaciro bya kirazira mu Rwanda rwo hambere.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye akunze kugira urugendoshuri. Aho ikigo gishobora kugenda kigakodesha nk'imodoka nyinshi abana bashobora kugenda bicayemo bisanzuye kandi bishimiye mu rwego rwo kuborohereza urugendo.

Igitsure kiba gikenewe ku bantu bakiri bato mu rwego rwo kubarinda amakosa. Niyo mpamvu leta ikunze gukoresha inama mu duce tugiye dutandukanye tw'Igihugu, bahereye hasi nko mu midugudu kugira ngo abitwara nabi bahabwe impanuro ndetse n'abarengereye bahanwe.

Mu rwego rwo gushyigikira ireme ry'uburezi, harimo kwambika abana impuzankano zimeze neza kandi zisa. Ibingibi bibatandukanya n'abantu bo hanze cyangwa se abandi bantu batari muri iki gisata cy'uburezi.

Amashuri yisumbuye akunze gutanga uburezi bufite ireme iyo abanyeshuri bakurikije gahunda zose zigenwa n'ikigo, ibi ngibi rero bituma hagomba gushyirwaho amategeko mashya arengera umurezi ndetse n'umunyeshuri muri rusange.

Uburezi n'uburere bufite ireme, buhera ku bintu bigiye bitandukanye. Harimo nko gutoza abana isuku, kwambara impuzankano zisa neza ndetse bakabibutsa no gutebeza mu gihe bazambaye.

Inyubako zikomeye kandi zimeze neza usanga zarubatswe na ba rwiyemezamirimo b'inararibonye kandi b'abahanga ni yo mpamvu uko Igihugu kigenda gitera imbere usanga hazamurwa imiturirwa itandukanye.

Uburezi ni inkingi ya mwambao mu iterambere cyane cyane iyo bukozwe neza kandi bugashyirwamo imbaraga na Leta ndetse n'abarezi, ibi ngibi rero bituma igihugu kigenda gitera imbere uko bwije n'uko bukeye.

Ibiti n'ibimera ni ibintu mu bidukikije biba bigomba gufatwa neza tugomba kwirinda kubitemagura cyangwa se kubyonona mu gihe bitarakura niyo mpamvu umunyarwanda avuga ko n'utema kimwe ugomba gutera bibiri.

Ibintu bituma uburezi bugenda neza harimo no guhemba abana baba babaye indashyikirwa, ibi ngibi bituma uwabikorewe agira umurava wo gukomeza gutsinda ndetse n'utabibonye bikamutera umwete wo kuzashaka na we ibyo bihembo.

Inyubako zigiye zitandukanye zikorerwamo ibikorwa byinshi: harimo nk'uburezi, ubuvuzi, ndetse hakaba na zimwe zishobora koroherwamo nk'amatungo, niyo mpamvu tugomba kubungabunga izo nyubako mu rwego rwo kwiteza imbere.

Uburezi bukozwe neza butanga umusaruro, ibi ngibi bituma Leta ishyiramo imbaraga nyinshi kandi zihagije mu gutuma uburezi bukomeza kugenda butera imbere,. Byamaze kugaragara ko ari inkingi ya mwamba mu iterambere ndetse no mu zindi gahunda zose za Leta.

Ibyapa bishyirwa ahantu hagiye hatandukanye, biba bifite icyo bisobanura. Bigomba kubungabungwa neza, bikarindwa abantu bashobora kubyangiza kuko hariho nk'ahantu usanga biri mu cyaro, abana bagenda bakabikiniraho, bakabishwaratura.

Imihigo yagiye yeswa mu burezi ariko ibi ngibi ntibigomba gutuma abantu birara ngo bumve ko hari ahantu bageze, bagomba kurushaho gushyiramo imbaraga kandi no gukomeza gukangurira abato, kugira umurava mu byo bakora byose.

Ibidukikije bigomba gufatwa neza aha ngaha havuga nk'mashyamba, ibiti, imigezi, imisozi ndetse n'inzuzi zigiye zitandukanye, ibi ngibi nibikorwa neza bizatugeza ku musaruro mwiza.

Kuganira ku byizwe no kungurana ibitekerezo ni kimwe mu bintu bigaragazwa n'abahanga kandi byakorewe n'ubushakashatsi, cyane cyane kuri uyu Mugabane wacu wa Afurika ni ho hakozwe ubushakashatsi nk'ubwo.

Uburezi ni inkingi ya mwamba y'iterambere, tugomba kumenya rero ko iyo bukozwe neza butanga umusaruro ku Gihugu kuko harimo ibikorwa bimwe na bimwe bisaba kuba umuntu yaranyuze mu ishuri, ni ingenzi rero ku bantu bato ndetse n'abakuru.

Iyo abana basoje amasomo bagira umwanya wo kuruhuka no kuganira, ibi ngibi rero bituma imyigire igenda izamuka ndetse hakagenda higwa n'ibindi bintu bishyashya kuko harimo abandi bana benshi usanga bafite impano itari iyo gusoma gusa, wenda ukabasanga babona nk'impano mu mikino igiye itandukanye.

Uburezi bufite ireme bugomba gukorerwa nk'ahantu heza kandi hisanzuye, cyane cyane nko mu bice byo mu cyaro baba bagomba kumenya gukubura, gutunganya ubusitani mu gihe hari n'ikindi kintu gishobora gukorwa kugira ngo bukomeze kumera neza.

Ni byiza kumenya gushyigikira no guteza imbere gahunda za leta mu mashuri makuru na za kaminuza ubuyobozi buba bugomba gukora igishoboka cyose bugakora ubukangurambaga bukamenyesha abaturage ndetse n'urubyiruko muri rusange icyo leta iteganya.

Amashuri yisumbuye akenshi akunze kuba ari ahantu heza kandi hafite isuku ibingibi byatumye uburezi buzamuka ndetse n'igihugu kirushaho kugenda gitera imbere muri rusange ibingibi ni bikomeza u Rwanda ruzagera ku cyo rwifuza mu myaka mirongo itanu iri imbere.

Ubucuruzi bukozwe neza butanga umusaruro, ariko ntitwakwingagiza ko n'uburezi bukunze kugira icyo bwigisha abantu mu bijyanye n'ubucuruzi, kuko burya iyo wize ukagira nk'igikorwa ujya gukora uba usobanukiwe neza n'amategeko agenga ibyo bintu uri gukora.

Uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga bwagiye butezwa imbere cyane mu Rwanda, ibi ngibi byatumye umusaruro wiyongera yaba ku barezi, ku banyeshuri ndetse n'Igihugu muri rusange.

Ibigo by'amashuri yisumbuye bigomba kuba bifite impuzankano zimeze neza kandi zisa neza, ibi ngibi biboneka gusa mu biga ubuzima ndetse n'ubuganga muri rusange.

Kwigisha urubyiruko ni uguhozaho kuko uba usanga aba uko bagenda bava mu kiciro kimwe bajya mu kindi barushaho kwibona ko ari abantu bakomeye nyamara ntabwo ari byo baba bibeshya.

Abana baba bagomba guhabwa impuzankano zimeze neza kandi zisa, ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rizamuka ndetse ntihagire n'abantu bakeretsa agaciro ko kwiga, byagaragaye neza rero ko bitanga umusaruro.

Ibara ry'umuhondo rikunze kugaragara mu idaraporo ry'igihugu, cyacu cyangwa se ibendera ariko harimo n'abanyeshuri bambara impuzankano zisa gutyo, cyane cyane nk'imipira yo hejuru

Ibinyamakuru bigiye bitandukanye bifata amashusho y'abana cyane cyane b'abanyeshuri bari muyisumbuye bikabashyira ku ruhande bikabaganiriza, bikabamenyesha na gahunda za leta ndetse n'icyo igihugu kibifuzaho.

Igikorwa cy'ubutore gikomeza kugenda gitera imbere cyane cyane mu rubyiruko. Aho usanga abasoje amashuri yisumbuye, bagenda bagahabwa ingando, mu rwego rwo gukomeza kubatoza indangagaciro zo gukunda igihugu.

Ahantu haba hari amasomero agiye atandukanye mu gihugu, hakunze kuboneka ibitabo by'amoko atandukanye nk'ibivuga ku muco nyarwanda ku bindi bihugu cyangwa se ku yindi mico runaka y'abantu.

Umunezero ugomba kugaragara mu bakiri batoya ibi ngibi rero byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi, ko abana benshi bakunze guhitanwa n'agahinda gakabinjiye, aho usanga batabigaragaza cyangwa se ngo babibwire ababyeyi babo.

Uburezi bufite ireme bugengwa n'uburere buhamye, ntabwo rero tugomba kumenya ko umuntu agomba guhabwa ubumenyi gusa ariko nta burere, ibi ngibi bituma igice kimwe kidindira ikindi kikazamuka nyamara kubitwarira icyarimwe nibyo usanga bifite akamaro.

Ingoferoro zambarwaho n'abubatsi zibarinda ibyago byo kuba bameneka nk'umutwe mu gihe hari nk'ubuye ribakubisemo cyangwa se mu kindi gihe cy'impanuka, ibi ngibi rero biba bigomba kwitabwaho mu gihe hari rwiyemezamirimo wahawe akazi.

Gahunda za Leta zakomeje kugenda zitangarizwa abaturage, ibi ngibi bituma umuvuduko u Rwanda ruriho wiyongera cyane ugereranyije n'ibinyejana byagiye bihita, ibi ngibi rero nibikomeza gukorwa neza tuzagera ku cyerekezo cy'iterambere twifuza.

Umurezi aba agomba kuba intangarugero ku munyeshuri, biba bibabaje iyo ubona harimo nka bamwe bitwara nabi, bakajya mu tubari bakanywa bagasinda ndetse hakaba na bamwe barwaniramo, ibi bintu rero ntabwo biba bikwiye ku muntu ukora umwuga nk'uwo nguwo w'uburezi.

Amashuri yisumbuye akunze kubonekamo abana bananiranye baba bitwara nabi. Cyane cyane nk'abiga mu cyiciro rusange, baba bumva ko bamaze gukura bitewe n'imyaka bagezemo y'ubugimbi ndetse n'ubwangavu.

Uburinganire n'ubwuzuzanye bukunze kuboneka mu mashuri yose agize Igihugu cy'u Rwanda aho usanga abahungu n'abakobwa baganira nta kwishishanya kandi ibi ngibi byatumye iterambere rizamuka.

Ibirango ndetse n'ibyapa bya Jenoside, bikunze kuba biri ahantu ku nzibutso zigiyezitandukanye, mu rwego rwo gukomeza kuzirikana abacu bapfuye icyenda kane kandi tukarushaho no kubaha icyubahiro.

Abanyeshuri mu gihe cyo gusoza amasomo, baba bagomba kwicara bakaruhuka, bakaganira, bakagira na bimwe mu bitekerezo bungurana kandi banoza, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka rikagera ku rundi rwego.

Mu bintu bidukikije harimo ibitini ndetse n'ibimera tuzi akamaro kabyo aho bimwe bivamo imbaho amakara yo gucana ibindi bikavamo impapuro mu gihe bigejejwe mu nganda zitunganya ibyo bikoresho.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye akunze kuba afite ibendera imbere yayo ndetse n'ubusitani. Ibi ngibi bituma abantu batekereza ku muco nyarwanda wo gukunda Igihugu ndetse no gushyigikira zimwe na zimwe muri gahunda za Leta.

Ubuhinzi n'ubworozi bukozwe neza butanga umusaruro, ibi ngibi rero bigomba guhera mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bikigishwa, aho urubyiruko ruba rugomba kumenya neza ko ibi bintu bigomba kugenda bizamurirwa icyizere bihereye ku bakiri bato.

Inyubako za leta zikunze kuba zifite ibigega binini bifata amazi, ni mu rwego rwo gutuma zitasenyuka, cyangwa se ngo harebwe amazi menshi impande zayo, bigatuma hashobora kororokeramo nk’imibu itera malariya, maze ikagirira nabi abantu.

Urubyiruko rugenda ruganirizwa kuri zimwe na zimwe muri gahunda za leta. Harimo nko kugira ubupfura ndetse n'imico myiza. Ibi ngibi bituma u Rwanda rukomeza kugira abantu b'ingirakamaro kandi bazagirira n'Igihugu akamaro muri rusange.

Kubungabunga ibidukikije ni inshingano zacu twese. Aha ngaha rero harimo nko kuba twagenda tugatera ibiti mu bigo by'amashuri kugira ngo tujye tubona amahumbezi mu gihe cyo kuruhuka ndetse n'umwuka mwiza. Ibi ngibi rero bisaba ubukangurambaga.

Abana bicazwa mu byatsi bakaganirizwa muri gahunda z'ikigo cyangwa se z'ikindi kintu runaka ibingibi rero bigomba kutwibutsa neza ko abantu bakwiriye kwegeranya ibitekerezo bakagira bimwe na bimwe bakemura ndetse n'ibyo bagerageza kugenda bageraho.

Ibidukikije bigiye biri mu bice bigiye bitandukanye, aha ngaha twavuga nk'amashuri, ibiti, inyamaswa, ni yo mpamvu rero tugomba gushyigikira uburezi bwita ku bidukikije, ku bimera ubuhinzi n'ubworozi.

ibikoresho bya kera biba bikozwe mu ibumba cyangwa se mu biti, aha ngaha natanga urugero nk'intebe, imivure cyangwa se n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye ndetse n'amasahani.

Ahantu hakorerwa ibikorwa byiza hagomba kuba hari utubase cyangwa se ibindi bikoresho bishyirwamo indabo ibi bituma hahita hatekerezwa akamaro indabo zifitiye igihugu ndetse n'abantu muri rusange.

Amashuri makuru na za kaminuza aba afite intebe nziza aho bicara barimo barakora amasomo agiye atandukanye ndetse n'imikoro, baba bafite aho batereka amamashini yabo ndetse na za telefoni.

Uburezi bugezweho harimo gukoresha ikoranabuhanga. Ibingibi rero bisaba ibintu bigiye bitandukanye, nka mudasobwa zikora neza kandi zihuta. Ibingibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka.

Ibyumba by'amashuri bigomba gufatwa neza mu rwego rwo gukomeza gusigasira uburezi bufite ireme, abantu benshi rero bakunze kubikerensa, ugasanga badashyiramo imbaraga kandi nyamara Leta ikomeza kugenda ishishikariza abantu, gukomeza gusigasira ibyagezweho.

Ubugeni ni kimwe mu kintu cya kera kandi kigaragaza umuco Nyarwanda, aho usanga hari ibikoresho bimwe na bimwe tutabona muri iki gihe kuko ubu naho bigaragariye akenshi usanga byaratumijwe hanze.

Ibimera bikikije umuhanda biba bigomba gufatwa neza kandi bikarindwa n'abantu bose bahanyura, ibi ngibi nibikorwa, ikibazo cy'inzara kizakemuka burundu ndetse abantu bagira imibereho myiza.

Ibikoresho bya kera dukunze kugenda tubibona ahantu hagiye hatandukanye, bigomba gufatwa neza bikabungabungwa kandi bikagira n'icyo byigisha cyanecyane ibishingiye ku muco gakondo w'abanyarwanda, ni ingenzi rero kubyitaho.

Urubyiruko rukunze kuba rwitwa imbaraga z'igihugu. Ibi ngibi rero bigomba guhabwa agaciro kandi bikagaragazwa mu bikorwa bibiranga. Ntabwo rero abantu bagomba kubishyira mu mvugo gusa, byagera mu bikorwa ugasanga baricecekeye.

Udushushanyo twa kera dukunze kugaragara mu mabara meza cyangwa se mu ibumba, ntabwo rero wapfa kutubona ahantu hose hashobotse kuko bisaba ko ujya mu mashuri makuru na za kaminuza ndetse n'abandi bantu b'injijuke.

Abantu b'ingeri zigiye zitandukanye bakunze kuboneka muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'andi makaminuza agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu. Ibi ngibi rero bituma imikoranire myiza izamuka, hagati y'inzego za Leta ndetse n'izigenga.

Amashuri abanza na Kaminuza aba afite intebe zigiye zitandukanye mu gihe cyo kwiga abana bakazicaraho, ibi ngibi byongera umutuzo n'umutekano mu kigo maze n'ubumenyi bukarushaho kwiyongera.

Amashuri makuru na za Kaminuza akunze kuba afite intebe za parasitike. Ibi ngibi rero bituma habungabungwa ibidukikije kuko iyo zisaje zigera zigakusanyirizwa ahantu hamwe, zikaba zahashyirwa ahabugenewe.

Bimwe mu bikoresho bya kera bigiye bikozwe mu mabumba, aha ngaha dusangamo ibibindi, ibyungo ndetse n'ibikombe, abantu rero bagiye bamenya agaciro kabyo babishyiramo imbaraga kandi n'ababikora bagiye babona inyungu.

Inyubako zigiye zitandukanye nk'amashuri makuru na za kaminuza zikunze kuba zifite ubusitani imbere yabo, ibingibi bituma tumenya kubungabunga neza ibyo dufite kandi no gushyigikira gahunda zimwe na zimwe za leta.

Ibyumba byigirwamo hakunze gukorerwamo n'inama zigiye zitandukanye, ibi ngibi rero ni na yo mpamvu tugomba kuba dufitemo ibikoresho bigiye bitandukanye nka mudasobwa mu gihe hakenewe amakuru runaka bayakuye murandasi, intebe, amakaye n'amakaramu.

Ahantu dutuye hagomba kuba hafite isuku nta kavuyo, harimo abantu bamwe na bamwe batajya bamenya gushyira ibikoresho bakoresha ku murongo, ugasanga nta kumenya gushyira ikintu mu mwanya wacyo kandi bitwa ko bakuze.

Isekuru n'umuhini ntabwo abana b'iki gihe bajya babimenya, bamenyereye kujya gushesha ahari ibyuma bimwe bya kizungu, bikoresha amavuta ndetse na mazutu zihenze ariko ibikoresho nk'ibi by'umuco ntabwo babizi neza.

Inyubako zimwe na zimwe ziba zifite amadirishya ndetse n'inzugi zikozwe mu byuma, ibi rero bihita bitwibutsa ko mu myaka yashize harimo ababaga bafite iz'ibyatsi, aho abantu babaga bafite ibyago byinshi byo kuba bahiramo cyangwa bagasangwamo n'ibisimba nk'inzoka.

Ibikoresho bya gakondo bigomba kwigishwa abakiri bato, bakabimenya ndetse na bo bakareba ko hari icyo babihinduraho, aho bashoramo kwiga kubikora ndetse no kubisigasira. Ibingibi bituma hakomeza kugenda hashakashakwa n'ibindi bya kera bitaramenyekana, bigashyirwa mu buryo.

Bimwe mu bikoresho bishoboka kaminuza ikenera, harimo n'iby'ubugeni ariko cyane cyane n'ubwo biba bikenewe, haba hagomba no kumenya kubyitaho ndetse no kubifata neza, mu rwego rwo gusigasira umuco w'Abanyarwanda.

Burya iyo ubonye umuntu ushinzwe isomero uba ugomba kumwubaha kuko uwo nawe aba ari umurezi kandi aba abitse umutungo ukomeye cyane, kuko mu bitabo niho dusangamo ibintu byinshi.

Intebe za pulasitike ntabwo zikunze gukoreshwa n'abantu, kubera ko iyo zimaze gusaza kugera ahantu zijugunywa biragorana cyane kuko twabonye ko pulasitike zangiza ibidukikije.

Abantu iyo bahuriye hamwe bagira ibintu bigaho kandi bagakemura n'ibibazo byabo, ni byiza rero kumenya kwibumbira mu matsinda, hakaganirwa ku bibazo bimwe na bimwe ndetse bigashakirwa n'ibisubizo kuko ari inkingi ya mwamba mu butabera.

Inyubako za Leta n'amashuri makuru na za Kaminuza, zikunze kuba zifite ubusitani imbere yazo, ibi ngibi bituma zikomeza kubungabungwa kandi zigashyigikirwa mu bintu byose bigiye bitandukanye bikorerwamo.

Ibikorwa remezo harimo inyubako, amashuri ndetse n'iminara, ibi ngibi biba bigomba gufatwa neza, bikabungabungwa, bikitabwaho n'abakuru ndetse n'abayobozi babifite mu nshingano muri rusange.

Kugira ngo igihugu gitere imbere kandi kigere ku bikorwa by'indashyikirwa, harimo nko kwegereza abaturage umuriro w'amashanyarazi, amazi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ibi bituma iterambere ryiyongera.

Abarezi ndetse n'abaganga ni abantu bubahwa cyane mu muryango nyarwanda kuko abantu benshi babaca imbere ariko harimo naho usanga batera impaka bibaza ngo muri aba bombi ni nde uruta undi.

Ibikoresho bikoze mu ibumba nk'ibibindi, ibisabo amasahane ndetse n'ibindi bikoresho, ni umuco mwiza wo kwerekana ko dushyigikiye umuco wacu muri rusange kandi ibi ngibi bizatuma n'iterambere ryiyongera.

Mu birango by'umuco nyarwanda harimo ubugeni ndetse n'ibiseke, harimo abana bavuka iki gihe, batajya bamenya uburyo ibyo bikoresho byari bimeze, ni ngombwa rero gukomeza gushyira imbaraga muri ubu bugeni kugira ngo umuco utibagirana.

Iyo hagiye kuba igikorwa runaka gishingiye ku itorero, hagomba kuba hariho ibirango ndetse n'indi mirongo yo muri bibiliya igaragaza ingingo izigwaho. Ibi ngibi rero bituma ibyaha bigenda bigabanuka mu bantu.

Amashuri makuru na za Kaminuza, agiye afite akamaro gatandukanye. Harimo ayafite ibyumba by'ubushakashatsi, aho zimwe mu ndwara zigera zirwanywa gahoro gahoro ziturutse ku byagiye bivamo. Ni ngombwa rero ko dukomeza kwiga tukanaminuza.

Ni byiza kumenya gufata neza ibidukikije harimo n'ubugeni, aha ngaha rero ingamba Leta yagiye ishyiraho, ni uko umuntu wese ufashwe yangiza bimwe muri ibi bikoresho, ahabwa ibihano bikomeye kandi bikarishye.

Ingagi ni inyamaswa z'inyamahoro, ziboneka mu bice byo mu majyaruguru y'u Rwanda cyanecyane muri pariki y'ibirunga, ibi ngibi rero bituma u Rwanda rubungabunga neza icyo gisata kuko gikunze gukurura ba mukerarugendo.

Uburezi bufite ireme bugira aho buhera ndetse n'aho bukomoka, ntabwo rero ari ibintu bituruka mu kirere ngo bize byiture ku bantu cyangwa se ku gihugu hatabanje gushyirwaho ingamba ndetse n'amahame akomeye.

Uburezi bwatejwe imbere cyane ahangaha rero byagiye bigaragara cyane cyane mu Rwanda aho usanga amashuri makuru na za kaminuza asohora abantu benshi b'intiti kandi bashoboye ku isoko ry'umurimo.

Ibyumba by'amashuri bigomba kuba birimo intebe zihagije ndetse n'ameza. Ibi ngibi bizatuma uburezi bukomeza kugira ireme kandi n'abantu bakamenya ko mu rwego rwo kubungabunga neza ibibakikije harimo n'ibyo bikoresho byo mu ishuri.

Ubushakashatsi bukorerwa mu mashuri mato ndetse n'amakuru, agira akamaro gakomeye cyane mu migabo n'imigambi Igihugu gifata yo kwiteza imbere, ibi ngibi byagiye bigaragara, aho Leta yagiye ishyira imbaraga mu burezi bw'imyuga.

Ibikoresho biva ku mbaho biba bigomba kumenywa neza aho byagiye bituruka, ntabwo rero twakomeza kugarukira aho, tuba tugomba no gutekereza byisumbuyeho nko kumenya kubungabunga ibiti n'amashyamba muri rusange kuko niyo aduhereza ibikoresho nk'ibyo ngibyo.

Hari bikoresho bimwe na bimwe bibafite amabara meza agira atandukanye biboneka mu bitabo by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, si aho gusa kuko no muri kaminuza harimo abiga ibijyanye no gushushanya, aho babyifashisha mu kugenda basakaza neza ubumenyi bafite.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite ibintu bigiye bitandukanye. Aho haba harimo amaradiyo, inzu z'isomero ndetse n'ibindi bikorwa ushobora kubona nk'ahantu hahurira abantu benshi. Ibi ngibi rero bituma abantu bavamo intyoza kuko baba babona amahirwe agiye atandukanye iruhande rwabo.

Kwandika neza kandi ibintu bigaragara ni byo bituma abana barushaho kugenda batera imbere mu burezi. Ntago ari byiza rero kugenda wandika ibintu bidasomeka kugira ngo abantu batsindwe.

Ni byiza gufata neza ibyagezweho no kubibungabunga, ibi ngibi bizatuma iterambere ryiyongera kandi n'abantu bakava mu bushomeri kuko bazaba bafite ahantu bashobora gukorera ibikorwa byabo bya buri munsi.

Bimwe mu bishushanyo biba bifite ikintu bisobanura, aha ngaha rero tugomba kumenya agaciro kabyo tukamenya kubifata neza ntitubishwanyaguze kandi ibi ngibi bizatuma Igihugu kigenda gitera imbere ndetse n'abantu bakagenda bajijuka.

Iyo abanyeshuri basoje amashuri makuru nka kaminuza, bakunze gukorerwa ibirori by'agatangaza, aho baba bitegura no guhabwa impamyabumenyi zabo, bakajya ku isoko ry'umurimo bagahangana n'abandi.

Kugira ngo uburere n'uburezi bugire ireme ni uko abanyeshuri bagomba kuba bafite ibikoresho by'ibanze nk'amakayi, amakaramu na mudasobwa ku bemerewe kuzikoresha.

Amabara aginye agize ibikoresho dukoresha mu rugo niyo atuma tubikunda ndetse tukaba twanabibungabunga neza. Ibi ngibi rero bigenda bigaragara ko ahantu hari amabara meza hakunze kuba hari n'ibikoresho biramba.

Ibinyampande bikunze kugaragazwa n'ibindi bikoresho bisanzwe. Ntabwo ari ibintu birenze cyane cyangwa se ngo usange bigoranye kubibona kuko ahantu hose uba wajya ibikoresho uba wabihasanga, nta nzitizi uhuye na zo.

Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere amashuri makuru na za kaminuza, harimo gukangurira abantu gusoma ndetse no gukora ubukangurambaga ku bintu by'ibyuririzi bimwe na bimwe, harimo nk'indwara zituruka ku mavirusi.

Mu rwego rwo gusaranganya no gufata neza ubutaka buto dufite mu gihugu cyacu, Leta yatangije gahunda yo kubaka inyubako zigiye zigerekeranye. Ibi ngibi bizatuma ubutaka bwiyongera kandi n'abantu bakabona aho batura.

Agatete ni agakoresho gato cyane bashobora gushyiramo utuntu dutandukanye nk'imbuto, indabo cyangwa se utundi tuntu umuntu ashobora gukenera mu buzima bwe bwa buri, munsi harimo n'abadukoresha nk'umutako mu mazu yabo.

Inyubako za leta zigomba kuba ziri ahantu heza kandi hafite isuku hanazwi na buri wese. Ibi ngibi bizatuma zimwe muri serivisi dukenera mu mahanga zigenda zigabanuka, kuko no mu Rwanda tuba tuzifitiye cyane cyane kuko tuba dufite nta twazikorera nk'inyubako zimeze neza.

Ibikoresho bikoze mu mbaho cyangwa se mu biti, biba bifite icyo byigisha, harimo gukangurira abana cyangwa se urubyiruko kumenya kubifata neza, kubibungabunga, ndetse no kwirinda kuba bakangiza ibiti n'amashyamba.

Ibibumbano bikunze kuboneka ahantu hari amazi menshi. Cyane cyane nko mu bishanga kuko niho dukunze gukura ubutaka bw'ibumba. Ibi ngibi rero bituma dusigasira umuco nyarwanda ndetse n'ibindi bikoresho bya kera.

Imfashanyigisho ikunze kugaragara muri kaminuza ni mudasobwa ndetse n'ibibaho byandikwaho amagambo amwe, ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rizamuka mu bisata byose bigiye bitandukanye.

Ibyumba by'amashuri makuru na za kaminuza cyane cyane iza Leta usanga bifite imibare iba igiye ibiranga kandi hariho n'icyapa kigaragaza ibikorerwamo, ibi ngibi bituma ntawe uhitiranya ngo ahakorere ikidakwiye.

Urubyiruko rwiga mu mashuri makuru na kaminuza, rukunze kuba rusobanukiwe neza na gahunda za leta. Ibi ngibi rero bituma ariho hatorwa abahagarariye abandi mu kugenda basobanurira no gukwirakwiza imigabo n'imigambi leta ifite ku baturage.

Ubusitani buba bugomba kubungabungwa neza kuko abantu baraharuhukira, bakaba bagenda bakanahaganirira, aha ngaha rero mu mashuri makuru na za kaminuza, agomba kuba inkingi ya mwamba mu gukora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kubungabunga ubusitani.

Gushushanya ni kimwe mu birango by'abakera, ibi ngibi bituma umuco nyarwanda usigasirwa kandi ukabungabung na buri wese, ni byiza rero kumenya gutoza abana gushushanya ndetse no kubigisha ibirango by'abakera.

Uburezi bwagiye butezwa imbere cyane, aho usanga abantu bicara bakaganira bakungurana ibitekerezo. Harimo abahabwa amazi cyangwa se ibindi binyobwa mu rwego rwo kwirinda kuba bakumagana mu mihogo mu gihe barimo baravuga, cyane cyane nk'iyo habaye nk'inama.

Bimwe mu bikoresho bigaragaza umuco nyarwanda, harimo ubugeni ndetse no gukora ibindi bintu bituma abantu bibuka umuco w'abakera, ibi ngibi rero bizatuma tutibagirwa aho twaturutse kandi bidufashe mu cyerekezo twifuza kugeraho cy'iterambere.

Ibibumbano bikunze kuba biteye ubwoba, aho bamwe bumva ko ari ibikoresho by'abapfumu, ndetse n'abarozi. Hakaba hari n'abatinya kubishyira mu ngo zabo kubera kugira ibyikango, ariko nyamara uba usanga ari n'imyumvire itagombye kuba iriho, bitewe n'ikinyejana tugezemo.

Inyubako iyo zigirirwa isuku zikitabwaho ziraramba kandi zikamara igihe kirekire ibingibi rero iyo bikozwe neza kandi bigakorwa n'ingeri zose bituma n'abantu barushaho kugenda batekereza uburyo bakagura ibikorwa kuko baba bafite aho babikorera.

Intebe zikoze mu biti zikunze gukundwa n'abantu batari bake kuko zo ntabwo zijya zangiza ibidukikije ugereranyije n'izikozwe muri pulasitike, aho usanga zigenda zikajya nko mu butaka zikaba zatuma ibimera bitamera ndavuga zino ntebe za pulasitike.

Kera aha mu muco Nyarwanda gushushanya cyahozeho, wasangaga buri hantu hose harimo ikintu kigaragaza umwami cyangwa se umutware runaka, ibi ngibi nibikomeza bizatuma igihugu kigenda kigira intiti mu gushushanya nyinshi kandi zihagije.

Mu mashuri makuru na za kaminuza hakunze kubonekamo intebe aho buri munyeshuri aba afite aho yashyira igitabo cye, mudasobwa ye, ndetse na telefone kandi yizeye ko bidashobora guhanuka ngo byikubite hasi bimeneke.

Inyubako zigeretse zikunze kugira akamaro cyane kuko ubutaka burasaranganywa ndetse hagasigara n'umwanya wo gukora ibindi bikorwa, ibi ngibi rero bigomba gukorwa neza kandi mu kinyabupfura.

Amashuri makuru na za kaminuza aba afite intebe abanyeshuri bicaraho mu gihe basoje amasomo cyangwa se bari kuyiga, ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rigenda rizamuka ndetse n'abantu bakavumbura ibintu bishyashya.

Ubugeni ni ibintu bigize umuco nyarwanda, iyo bikozwe neza rero bitanga umusaruro kandi bigasigasira umuco ntihagire ikintu cyangirika, ibi ngibi rero bituma n'ireme ry'uburezi rizamuka cyane cyane mu mashuri makuru na za kaminuza.

Ababyeyi bakunze gutumirwa ku mashuri kugira ngo bagaragarizwe ubumenyi abana babo bamaze kugira, cyane cyane mu gihe cyo gutanga indangamanota ndetse n'impamyabushobozi ku biga amashuri makuru na kaminuza.

Abantu iyo bicaye hamwe bagira ibintu bigaho kandi bageraho ni muri urwo rwego rero leta ishishikariza abantu gukorera mu matsinda mu rwego rwo kwiteza imbere harimo nk'ibimina bivuguruye ndetse n'izindi gahunda za leta yagiye ishishikariza abaturage.

Inyubako z'amashuri makuru na kaminuza ziba zifite ibirango ndetse n'imibare ibigaragaza kugira ngo buri wese amenye igikorerwa aho hantu, niyo yaba ari ibyumba abanyeshuri bacumbikirwa baryamamo biba bifiti iyo mibare.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite ibyumba bihagije, aho buri cyumba kiba gifite ibigikorerwamo hejuru hariho nimero zikiranga, ibi ngibi bituma ntaweyoba ngo ajye gukorera ibintu ahatari aha nyaho.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba bikunze kumeneka ubusa, niyo mpamvu rero abantu baba bagomba kubifata neza bakitwararika, bakabishyira kure ahantu abana batagera cyangwa se abandi bantu batazi agaciro kabyo, mu rwego rwo kubirinda kwangirika.

Ibishushanyo bimwe na bimwe biba bifite icyo byerekana kandi bisigura, aho usanga mu mashuri makuru na za kaminuza barabigize umuco ndetse bagenda babishishikariza buri wese yaba uwiga ubumenyi ndetse n'ubuvanganzo ndetse yewe n'ubumenyi bw'isi muri rusange.

Inama y'Igihugu y'umushyikirano itumira abantu bagiye batandukanye, yaba abaga mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'abaturage n'izindi nzego za Leta. Aho bakunze no guhabwa impuzankano zisa cyane cyane nk'imipira y'umukara.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikunze kuyobera abantu benshi cyane, harimo n'intebe zigezweho ubu ngubu, aho umuntu ashobora kwicara akajya yizengurutsa, akareba imbere n'inyuma, mu gihe abari bamenyereye zimwe z'imbaho bitabaga byoroshye.

Muri Kaminuza abantu bakunze kwicara bakaganira ku bintu bigiye bitandukanye harimo nko kubahiriza gahunda za Leta ndetse n'ibindi bikorwa igihugu gihamagarira urubyiruko, ni byiza rero kuzitabira kandi hagakorwa n'igenzura.

Gucuranga gitari burya ni ubuhanga buhanitse, ntabwo umuntu yapfa kubyiga igihe gitoya kandi nawe iyo amaze kubimenya usanga bimugirira akamaro kuko biramutunga akarushaho kugenda asezera inzira y'ubukene, aho agenda abona amafaranga atandukanye mu bitaramo.

Ibikoresho bikozwe mu ibumbaba bigomba gufatwa neza kandi bikabungabungwa, ni muri urwo rwego rero ahantu haboneka ibumba nko mu bishanga, na ho haba hagomba kwitabwaho hakagirirwa isuku kandi hakarindwa abantu bashobora kuhakorera ibindi bikorwa by'urugomo, nko kugenda bakaba bakiba iryo bumba bakabikoresha mu bikorwa byabo bibafitiye inyungu.

Ibishushanyo bya kera biba bifite icyo bisigura n'icyo bigaragaza, akenshi bikunze kwerekana umuco w'ibihugu bigiye bitandukanye, aho byifashishwa n'urubyiruko cyangwa se n'abakiri bato mu kubigisha.

Ubushakashatsi bugenda bukorwa, bugira ikintu buzamura ku gihugu kandi bukanagifa cyane, ibi ngibi rero ni ingenzi kandi bigomba gukurikizwa, bigahabwa n'izindi mbaraga zihariye, ibi bizatuma iterambere ryiyongera.

Ibihingwa bikunze gushyirwamo imbaraga mu Rwanda harimo urutoki ndetse n'inanasi, ibi ngibi bituma ababikora babona amafaranga kandi bagasagurira n'amasoko yo hanze, bakabyohereza maze u Rwanda rukabona amadevize.

Udukoresho tw'umuco ndetse n'uturango tugomba gusigasirwa kandi tugafatwa neza ibi ngibi ni bikorwa bizatuma umuco Nyarwanda ukomera kandi ukagenda utera imbere uko bukeye n'uko bwije.

Ibishushanyo bya kera bigaragaza umuco nyarwanda, ibi ngibi bituma urubyiruko n'abakiri bato bagira amatsiko bakajya gushakisha n'ibindi bigiye biri ahantu hatandukanye hirya no hino ku isi.

Bimwe mu birango by'umuco nyarwanda harimo n'ibikoresho bya kera bikozwe mu ibumba, ahangaha rero bituma tumenya agaciro neza k'ubutaka kandi tukarushaho kukabungabunga no kubufata neza.

Ibibumbano bya kera bigenda bigaragaza amashusho y'abantu bikunze kuba biboneka mu muco w'abanyarwanda ndetse n'abagereki aho ibyo bihugu byombi bifite umuco bigenda bihuriraho.

Ibikoresho bya kera bigomba gufatwa neza kandi bikabungabungwa, niyo mpamvu hagomba kuzaho na gahunda yo kwigisha abakiri bato, kumenya kubikora no kubikoresha mu buryo bwa nyabwo kandi bwuzuye.

Ibikorwa remezo biba bigomba kubungabungwa kandi bigafatwa neza. Ibi ngibi rero bigomba gukorwa n'abantu bose, yaba: abasore, abasaza, urubyiruko ndetse n'abandi bantu bose bagiye batandukanye, babifite mu nshingano.

Gutura heza ni inshingano za buri munyarwanda wese ndetse n'ibikorwaremezo nk'amashuri bihita byegerezwa abaturage, kuko iyo umuntu agiye akibera mu manegeka, hari gahunda zimwe za Leta zitamugeraho.

Bimwe mu bintu bigaragaza urubyiruko rw'iki gihe harimo nko gutunga umusatsi mwinshi, nyamara harimo abatawugirira isuku, aho Leta iyo ikoze nk'umukwabu ibajyana mu nzererezi cyangwa se ibirara.

Iyo abanyeshuri basoje amasomo yabo cyane cyane nka za kaminuza, habaho umunsi w'ibirori aho usanga bambaye impuzankano zimeze neza, amakanzu ndetse n'ingofero. Biba ari ibyishimo rero ku bantu bayasoje ndetse no ku gihugu muri rusange.

Gutura neza kandi heza ni inshingano ya buri munyarwanda n'umunyarwandakazi wese aho ava akagera, harimo abahitamo kujya kwibera mu manegeka, aho usangamo kugeza ibikorwa remezo nk'imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi, bigora cyane Leta

Mu muco Nyarwanda akenshi abagore nibo bita ku bana, ariko ibyo ngibyo ntibigomba kuvanaho inshingano z'abagabo zo gutanga uburere ku bana babo, ibi ngibi niyo mpamvu Leta igenda ishyiraho ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu turere twose tw'igihugu.

Bimwe mu bikorwa Leta ishyigikira harimo guteza imbere za kaminuza ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, ibi ngibi rero ni ingenzi cyane kuko bituma n'iterambere rigenda rizamuka kandi rikagerwaho mu buryo bwihuse kuko riba rifite abantu b'intiti ndetse n'inzobere.

Ibishushanyo bigomba kugira ahantu bikorerwa ndetse n'imitako ikagenda ishyirwa ahantu hose. Ibi ngibi bituma abakora uyu mwuga bagira uko babaho neza kuko bagenda babona amafaranga gake gake, biturutse mu byo bagiye bakora.

Ibikoresho bikoze mu ibumba bimeneka ubusa, niyo mpamvu ahantu biri biba bigomba gufatwa neza kandi hagashyirwa n'ingamba zo kubibungabunga, ni ikirango gikomeye cy'umuco nyarwanda ndetse n'ubugeni muri rubanda.

Ibiti by'imbuto bikunze kutugirira akamaro cyane aho usanga nta muntu ugira ikibazo cya bwaki kuko aba afata indyo yuzuye tugomba rero kubibungabunga tukirinda kubitema no kubyangiza bitarakura.

Ibikoresho bya kera biba bifite amashusho agiye atandukanye kandi meza, ibi ngibi bituma abantu bagira amatsiko yo gukora ubushakashatsi ku mateka kandi bikabatera n'umurava wo gukomeza kwiga neza ibyo bari guhabwa.

Inyubako za Leta ziba zifite amayesikariye nka ziriya twita amayetage, ni inyubako ziba zigeretse kenshi ku buryo n'iyo umuntu ahagaze hejuru ku gasongero ashobora kugira ikizenga akaba yakitura hasi, bisaba rero ko umuntu agomba kuba abimenyereye.

Kugira ngo uburezi bugende neza ni uko buri cyumba cy'amashuri kigomba kuba gifite intebe zihagije ndetse hari n'amatara amurika mu gihe urumuri rubaye rukeya maze abana bagakomeza gusoma nta kibayobya cyangwa se ngo bahure n'inzitizi zindi.

Umuco wa kera warangwaga n'ubugeni, aho wasangaga hari ibishushanyo bimwe na bimwe bisigura nk'ikintu runaka, ibi ngibi rero byakomeje kugenda bicanga abantu hakibazwa n'uburyo byakorwagamo cyane cyane ko abakera babaga ba bataranyuze mu mashuri ngo bamenye gusoma.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze kwifashishwa mu mfashanyigisho y'abakiri bato, ni mu rwego rwo gushishikariza abana kumenya ibibakikije bagashyiraho ingamba zo kubibungabunga ndetse bagatunga n'agatoki ku babyangiza cyangwa se babifata nabi.

Uburezi bufite ireme bugendana n'ibikoresho bikomeye kandi bya kinyamwuga, si ibyo gusa kuko hari n'ibindi bikoresho by'ibanze, abantu bifashisha, nk'amakayi, amakaramu, ndetse hakaba hari n'ameza n'intebe, umunyeshuri ashobora kwicara arimo arasoma cyangwa yihugura.